Abantu benshi bakunze gusohokera mu tubari, mu buryo bwiza bwo kuruhuka, gusohokana n'abakunzi cya n'abashuti n'abavabdimwe, aho ugenda mukishimana, mugasangira ibiribwa n'ibinyobwa, mukishima, mugataha amahoro.

Mutubari cyangwa se ahacururizwa ibinyobwa bitandukanye bagutegurira ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye, bakaba babigusangisha aho wicaye nk'uko ubikeneye, waba uri kumwe n'umuntu cyangwa ari wowe ubikeneye, barabiguha kandi bimezw neza.

Mutubara usibye kuba ukaba ukoresheje umuyoboro wawe yaba MTN cyangwa eyateli ushobora no kwishyura ukoresheje ikarita yawe yo kuri banki aho ushyiramo amafaranga ugomba kwishyura ukemeza ugashyiramo umubare w'ibanga ukaba wakwishyura mu buryo bworoshye.

Abantu benshi yaba ari mu Rwanda cyangwa mu mahanga, bakunze gusohokera ahantu bashobora kwiyakiririra bagahabwa ibiribwa n'ibinyobwa bifuza ku giciro kiza, bakaba bahava bameze neza kandi bahawe ibyo bakeneye byose mu ngano bifuza nk'abakiliya babagannye.

Abacuruzi benshi b' utubari bashyizeho uburyo bwiza bwo kwakira abakiriya babo aho ubagana bakaba bagutegurira ikinyobwa wifuza yaba igisembuye cyangwa ikidasembuye ushobora kuvanga imbuto n' ibinyobwa bitandukanye nk' uko unyifuza bakaba babikugezaho nk' uko wabitumije bika byakugeraho bimeze nk' ibyo ushaka.

Mu masaha ya nijoro utubari dukunze kugira abakiriya benshi, aho abaseriveri babitaho bikunze kubagora kuko baba bakiriye abantu benshi, cyanecyane mu mpera z'amezi iyo abantu benshi bamaze guhembwa baratugana kuburyo utubari ducuruza kenshi tukinjiza amafara menshi ahagije.

Ahamanika ibinyobwa bitandukanye mu tubari haba hagaragara neza kuburyo bishobora kugaragarira abakiriya Bose bahagana bakaba bakifuza ku bigura bityo bigateza imbere akabari n'abagacururizamo kuburyo bashobora kugira abakiriya benshi Kandi bakaba bakinjiza amafaranga menshi bitewe nuko bacuruze.

Ibinyobwa bitandukanye byengwa n'inganda zitandukanye zirimo buralirwa na sikolo bicururizwa ahantu hagiya hatandukanye haba mu tubari n'amabutiki ku biciro bigiye bitandukanye bitewe n'aho wabifatiye, babikugurisha bitandukanye.

Amaduka atandukanye afite kode ushobora gusikana ugasanga mo imibare ushobora kwishyuriraho ibyo wafashe, waba ukoresheje banke cyangwa telefone yawe ngendanwa, ukoresheje simikadi waba ukoresha yose yaba umuyoboro wa emutiyeni cyangwa uwa eyateri byose urabishyura ntakibazo.

Ibyapa byamamaza ibinyobwa bitandukanye bikunze kuba biri ku tubari tunyuranye, aho bakunze gushyiraho ibinyobwa bishyashya cyangwa ibinyobwa bikunze kunyobwa n'abantu benshi kukigero kinini. Bitewe n'abakunzi babyo benshi bari mu gihugu.

Utubari twinshi tuba dufite abakozi bazwi nk'abaseriveri bamwe bashinzwe kwakira abakirya bose babagana, yaba ukeneye ibiribwa cyangwa ibinyobwa ukihagera barakwakirana ubwuzu bakakubaza kimwe mu byo ukeneye, bakaba babikugezaho aho waba wicaye hose mu kabari kabo.

Umujyi wa Kigali haba utubari twiza twinshi dukurura abakiriya bitewe n'uburyo tugaragaramo na serivisi nziza baha abakiriya babo, yaba mu kubaha ibiribwa cyangwa ibinyobwa n'uburyo bwiza bwo kubasusurutsa buba bwarashyizweho, bushimisha abakiriya babo bagenda babagana uko iminsi igenda ishira.

Ikinyobwa gishyashya cy'uruganda rwa sikolo kitwa virunga siliva kiri ku byapa bigiye binyuranye by'utubari twinshi, aho baba bagishakira abakiriya ku giciro kinogeye buri wese aho waba uri hose mu tubari tunyuranye wakihabona ku giciro kidahinduka.

Mu tubari twinshi, bafite udupapuro cyangwa utundi tuntu turi mu birahuri, tugufasha kureba ubwoko bw'ibintu waba ukeneye, yaba ibiribwa cyangwa ibinyobwa, ako gapapuro kariho ibiribwa bigiye bitandukanye cyangwa ibinyobwa n'ibiciro byabyo, bikakaba byagufasha guhitamo ibyo ukeneye.

Utubari twinshi turi mu gihugu cy'u Rwanda, dukunze gucuruza ibinyobwa bitandukanye biri mu ngano zitandukanye, yaba ibiri mu macupa manini cyangwa amacupa matoya, kandi ibyo binyobwa bikaba biva mu nganda zirimo nka Bralirwa cyangwa Skol cyangwa izindi nganda ziri hanze y'igihugu n'izindi nyinshi ziri mu gihugu.

Utubari twinshi tuba turimo amasakazamashusho yerekanwaho imipira y'amaguru, yaba iyo mu Rwanda cyangwa iyo mu mahanga, kuko abantu benshi bagana utubari baba bakeneye kureba iyo mipira nk'uburyo bwiza bwo kwidagadura, bakishima iyo mipira y'amaguru n'ibindi byose bitandukanye byerekanwa.

Mu tubari dutandukanye dukomeye, hagiye hashyirwamo inzobere z'abakozi babyigiye mu kuvanga ibinyobwa, ku buryo bagufasha mu gutegura ikinyobwa wifuza, kikuryoheye, babifashijwemo no kuvanga ubwoko bw'ibinyobwa bitandukanye, bagashyiramo n'ibindi bitandukanye, ku buryo bagutegurira ikinyobwa nk'uko ubyifuza.

Utubari twinshi dukunze kugira imeza ndede n'intebe ndende, aho abakiriya bakunze kuzicaraho bari kwiyakira bafata ibinyobwa bitandukanye; bityo abakorera mu tubari babategurira intebe ndende nk'uko bazifuza n'ingufi; buri icyo wifuza cyose urakihasanga, yaba ibiribwa cyangwa ibinyobwa mu bwoko butandukanye.

Utubari dutandukanye iyo turangura ibinyobwa, dukunda kubizana mu byitwa amakesi, aho bifasha ibinyobwa kuba byaza neza bitangiritse. Ibinyobwa bihabwa abakiriya babagana bitewe n'ibyo umukiriya akunze, bakaba bakimuha ku biciro bagennye.

Mu mujyi wa Kigali aho wasohokera hose hatandukanye, ucyihagera hari udupapuro baguha, turiho ibicuruzwa byabo n'ibiciro byabyo, bityo bikagufasha guhitamo bikunyuze bitewe aamikoro yawe, ugahitamo ibyo ushobora kwishyura byoroshye ntaki kibazo.

Urubyiruko n'abandi bantu benshi byakunze gusohokera mu tubari, aho basanga ibyo bifuza byose, yaba ibiribwa cyangwa ibinyobwa, ku biciro bitandukanye, kuko bahasohokana n'abavabdimwe babo n'ishuti bagamije kwishima bagasangira ibyo kurya bya nijoro cyangwa ibyo kunywa mu gihe cy'ibiruhuko.

Utubari ni ahantu hazwiho ubucuruzi bw'ibinyobwa n'ibiribwa bitandukanye aho ushobora kubagana mu gihe cyo kuruhuka bakakwakirana ubwuzu bakaguha ibiribwa n'ibinyobwa wifuza ku giciro cyiza kinogeye buri wese bitewe n'ibinyobwa ushaka n'ibiribwa wifuza.

Urubyiruko n'abandi banyarwanda benshi bakunze gusohokera ahazwi nko mutubari, muminsi mikuru cyangwa mugihe kibiruhuko bagamije kwishima bakisanzura bakankwa bakarya bakagira ibyishimo mwicyo gihe barimo kibiruhuko.

Ahantu henshi wasohokera yaba bacuruza ibiribwa cyangwa ibinyobwa hari udupapuro twagenewe abakiriya tuba turiho ibicuruzwa byabo yaba ibiribwa cyangwa ibinyobwa n'ibiciro byabyo baratuguha ukihagera ugahitamo ibikunyuze bakaba babikugezaho mu gihe kidatinze bakabigutunganyiriza bikakugeraho.

Aka ni agapapuro gatangwa aho batanga serivisi hanyuranye. Gakoreshwa nk'inyemezabwishyu. Kakwereka ibicuruzwa wafashe n'ibiciro byabyo. N'igiciro cya buri bwose. Hakurwaho n'umusoro, ukaba wamenya ibyo uri bwishyure havuyemo imisoro n'ibindi byose, bitewe n'ibyo wafashe aho wakiye serivisi n'ibindi bitandukanye.

Utubari twinshi dutandukanye, tuba turimo abakozi bashinzwe kwakira abakiriya babagana, bababaza ibyo bakeneye kugira babibategurire, babibagezeho amahoro; yaba ibinyobwa cyangwa ibiribwa byose biba bihari; barabigutegurira bakabigusangisha aho waba wicaye n'abo mwasohokanye bose.

Ibyapa byamamaza ahantu shobora kuruhukira nyuma y'akazi cyangwa mu gihe kibiruhuko, aho ushobora gufatira ibinyobwa n'ibiribwa bitandukanye ku giciro cyiza. Ukishima kandi ukaruhura mu mutwe, haba hari imiziki igiye itandukanye, n'ibindi byose bigufasha mu kuruhuka.

Amasaha ya ninjoro utubari twinshi nibwo dukora kuk' abakiriya benshi baboneka mwayo masaha bakeney' ibinyobwa n'ibiribwa bitandukanye ,bakeneye kuruhuka bakaba baza kuryama bameze neza kugirango ejo bazajye mukaz bameze neza, nta kibazo na kimwe bafite.

Urubyiruko n'abantu benshi batandukanye bakunze gusohokere mu tubari nk'uburyo bwiza bwo kwishimisha bakahabona ibinyobwa bitandukanye bifuza n'ibiribwa, imiziki n'imyidagaduro myinshi n'imipira y'amaguru n'ibindi binyuranye urabihasanga ku mafaranga meza anogeye buri muntu bitewe n'aho yasohokeye.

Mu tubari twinshi, aho abakiriya bakunda kwiyakirira, hakunze kuba hari intebe ndende ziba ziri kuri kontwari, aho wicara uri kunywa cyangwa ureba amasakazamashusho aba amanitse muri utwo tubari dutandukanye. Bikagufasha kwiyakira, ukishima, kandi witegura kuzajya ku kazi ejo umeze neza.

Aha ni ahazwi nko mu kabari, aho bacuriza inzoga zikomeye mu ngero zitandukanye, aho bagusukira nk'uko ubyifuza, bakakuvangira nk'uko ubishaka, ku giciro cyiza, wowe waka ibyo ushoboye, bakagupimira nk'uko ubyifuza, ku giciro cyiza.

Mu maresitora cyangwa amaduka ategura ibyo kurya hari impapuro ziba zihari bakwakiriza iyo ukihagera zishobora kugufasha guhitamo ibyo ukeneye bitewe n'ibyo bacuruza bakaguha urupapuro ugahitamo ibyo ushaka kugira babigutegurire babikugezaho bimeze neza.

Mu Rwanda hari ahantu henshi bacuruza ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye, aho wagana hose ukihagera baguha agapapuro kariho ibicuruzwa bacuruza, n'ibiciro byabyo ukaba wahitamamo ibikunyuze bitewe n'uko uhagaze mu mikoro, bakaba babigutunganyiriza bakabikugezaho.

Aha ni mu kabari, aho Abanyarwanda bakunze gusohokera, bakeneye ibiribwa cyangwa ibinyobwa bitandukanye, hari n'uburyo bwinshi bwo kwishyuriraho ibiribwa cyangwa ibinyobwa wafashe, yaba ukoresha umuyoboro wa Emutiyeni cyangwa uwa Eyateri, hashyizweho imibare wishyuriraho ku buryo bwiza.

Mu Rwanda hamaze gufungurwa amaduka menshi acuruza ibinyobwa azwi nk'utubari, aho waba uri hose nti wabura aho ugana, baka kwakirana ubwuzu, bakaguha ibyo wifuza byose ku giciro cyagenwe n'iryo duka, ukaba wahava wishimye, bana kwakiraye neza, n'ibyo wifuza byose wabihawe.

Utubari twinshi dukoze mu buryo iyo utugezemo imbere niyo yaba ari kumanywa uba ubona bwije kubera amatara aba yarashyizwemo yaka amyatse ubururu n'icyatsi n'umutuku ku buryo ugeramo ukabona burije ushobora kuhiyakirira amaaha yose bakaba baguha ibyo wifuza byose yaba ibinyobwa cyangwa ibiribwa.

Utubari twinshi tugiye turimo insakazamashusho zerekana imyidagaduro itandukanye, muri utwo tubari hakunze kuba harimo intebe ndende zikunze kwicarwaho n'abakiriya barimo barafata ibyobwa banywa cyangwa ibiribwa bareba muri izo nsakazamashusho ibyo babageneye bari kubereka yaba hari imipira yabaye nayo bakayobareka mu gihe cyayo igihe irimo iraba.

Mu tubari n'amaresitora atandukanye hariyo utwapa twagenewe gushyiraho amasaha bakorera n'ibicuruzwa byabo ku biciro bitandukanye bitewe n'ingano waba wifuza, bino bifasha abakiriya kubagana bazi neza ko ibyo bakeneye bihari kandi ibiciro bibanyuze.

Ubucuruzi bw'akabari nibwo bucuruzi busigayemo amafaranga menshi kuko abanyarwanda benshi bakunze gusohokera mu tubari, bagamije kwishima nk'uburyo bwiza bwo kuruhuka no kwidagadura, basangira n'abo bishimiye yaba inshuti n'abavandimwe babo.

Hari utubari tugiye turi hirya no hino mu gihugu, ducuruza ibinyobwa n'ibiribwa bitandukanye, aho bikunze kuba bifite ibyapa by'ibinyobwa bitandukanye bitewe n'uruganda bikoreramo, cyane cyane nk'ibya sikoro cyangwa burarirwa, bikunze kuba biri mu tubari dutandukanye, twinshi, turi hirya no hino mu gihugu.

Mu Rwanda cyane cyane mumugi wa Kigali, hari ahantu henshi ushobora gusohokera, kuko hari utubari twinshi turi mumujyi wa Kigali, ushobora gusangayo ibyo wifuza byose, wifuza gusohokana n'inshuti n'abavandimwe, wagana akabari mukakwegereye ukaba wakwiyakirana na bo mukishima.

Aha ni ahasohokera abantu bari mubizwi nk'ubusabane, hazwi nko mutubari abahagana bose baba bakeneye serivise zinyuranye ibinyobwa, n'ibiribwa bahagana bagamije kuruhura mumutwe, cyangwa kwisangirira n'abavandimwe ba bo bagamije kwishimana.

Mu masaha ya nimugoroba ahazwi nk'utubari hakunze kuba hari abakiliya benshi, bagiyeyo nyuma ya kazi cyangwa mu gihe bari kwiyakira, bakunze kujyayo mu gihe bahembwe mu mpera z'ukwezi, biyakiya, bishimira ko imirimo yabo yagenze neza, bishima no ku bihembo bahawe nk'umushahara wabo wa buri kwezi.

Aho wagana hose mu gihe ukeneye ibiribwa cyangwa ibinyobwa bitandukanye, haba hari impapuro zagenywe cyangwa utundi dukarita dutandukanye dushobora kugufasha guhitamo ibyo waga ushaka, haba hariho ubwoko bw'ibicuruzwa byose bafite n'ibiciro byabo, bikaba byagufasha guhitamo ibyo wifuza ku mafaranga yawe ufite.

Aha ni ahazwi nko mu kabari aho ushobora kujya nyuma y'akazi cyangwa mugiye k'ibiruhuko gufata ibinyobwa, ibiribwa, n'ibindi byose bitandukanye wifuza, herekanwa n'imyidagaduro igiye itandukanye yaba mipira y'amaguru iy'amaboko n'ibindi byinshi habayo n'imiziki itandukanye urahagera ukishimira kandi ukaruhura mu mutwe.

Ahantu henshi hakorerwa ubucuruzi buzwi nk'ubucuruzi bw'inzoga bukunze gukorerwa mu tubari, hakunze kuba ibyapa byamamaza ku kabari, cyangwa ubwoko bw'ikinyobwa gitandukaneye, ku buryo uhagana aba azi neza ko ibyo yifuza bihari ku giciro cyiza kimunogeye nk'uko abikeneye.

Umubare mwinshi w'abakenera ibinyobwa mu tubari bakunze kwaka ibinyobwa bikonje, niyompamvu utubari twinshi twagiye dushyirwamo ibyuma bitunganya ibinyobwa bikaba byabifasha gukonja, n'ubikeneye bikonje akaba yabibona.

Aho wagana hose mu mujyi wa kigali hatandukanye mu gihe ucyeneye ibiribwa cyangwa ibinyobwa n'ibindi bose bitandukanye uzahasanga ibyapa by'ibicuruza bagira n'ibiciro byabyo icyo ukora n'uguhitamo ibikunyuze k'igibiciro wifuza bakaba babigutunganyiriza bikakujyeraho.

Akabari cyangwa ahandi hose ushobora gusohokera mu gihe cyo kwiyakira, bashyizeho uburyo bwiza, aho ushobora kubishyura ibyo wafashe ukoresheje ikoranabuhanga, ugakoresha telefoni yawe, ukaba wabishyura kuri nimero yabo yagenwe cyangwa ukabishyura kuri banki ukoresheje telefoni yawe, bitagusabye kubikuza amafaranga ari kuri konti.

Aka ni kamwe mutubari turi mu gisimenti ahazwi nka i Remera, aho ushobora gusohoka mugihe cyo kwishima mu birori cyangwa iminsi mikuru itandukanye, aho ushobora kujyana n'inshuti zawe n'abavandimwe ugahabwa ibinyobwa n'ibiribwa bitandukanye nk'uko mubyifuza.

Utubari twinshi cyangwa amaduka acuruza ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye, haba hari uburyo batangaho serivise bitandukanye, ku byapa cyangwa ibiribwa byabo n'ibinyobwa bitandukanye, ubwoko bunyuranye n'ibiciro byabyo, aho ushobora kuhagana ukaba wareberaho ibyo ukeneye niba bihari ku giciro kikunyuze bakaba bakigutegurira.

Umujyi wa Kigali hari ahantu ushobora gusohokera, wasanga ibiribwa cyangwa ibinyobwa bitandukanye, ushobora kuhasohokana n'inshuti n'abavandimwe, nyuma y'akazi cyangwa ibiruhuko, mugamije kuruhuka no gusangira n'inshuti n'abavandimwe, mukishima.

Hari urupapuro ruba ruri mu kabari cyangwa ahandi hose wakiyakirira nko mu maresitora, ruba ruriho ubwoko bw'ibicuruzwa bafite n'ibiciro byabyo, aho bishobora kugufasha guhitamo icyo bakwakiriza wabanje kureba uko bagicuruza bitewe n'aho wagiye kwiyakirira.

Mu tubari cyangwa andi maduka yose acuruza ibirirwa cyangwa ibindi bintu byose hari impapuro ziba zaragenwe ziriho ibicuruzwa bacuruza n'ibiciro byabyo, ukihagana barabiguha ukaba wahitamo ibikunyuze bitewe n'amafaranga bigura cyangwa ikiciro cyaho.

Utubari twinshi dukunze kuba tudafite abakiriya mu masaha ya mu gitondo kuko abenshi baba bari mu kazi, ariko nyuma y'akazi bakunze gusohoka bakishima, bagasangira, baruhuka bitegura kuzajya mu kazi ejo, bakajya gufata ibiribwa n' ibinyobwa bitandukanye.

Abanyarwanda benshi bakunze gusohokera mu tubari dusa neza yaba abatanga serivise nziza n'ibiribwa byiza. Kuburyo ushobora kujyayo wakwishimira serivise baguhaye ukaba washishikariza na bagenzi bawe kuba wagerayo, bikaba byafasha akabari kugira abakiliya benshi kandi beza.

Utubari twinshi haba hari amasangazamashusho agiye atandukanye yerekana ibintu binyuranye yaba imipira cyangwa ibindi by'imwidagaduro nk'imiziki nibindi byose bifasha abantu mukuruhuka bifasha abantu mukuruhuka bafata ibinyobwa byabo nkuko babyifuza mu ngeri zitandukanye nkuko babishaka.

Utubari, ahacururizwa ibinyobwa bitandukanye, ubwoko bunyuranye, yaba byeri cyangwa ibindi byose bitandukanye, aho abantu benshi bakunze kugana, mu gihe cyo kwiyakira cyangwa baruhuka, bishima, bidagadura mu buryo bwiza kandi butandukanye.

Mu Rwanda hari amaresitora menshi ategura ibiribwa n'ibinyobwa uko ubyifuza, ku biciro byiza aho waba uri hose mu gihugu, wabona aho ubona ibyo biribwa n'ibinyobwa ku giciro kiza kandi kinogeye buri wese.

Utubari twinshi turi mu mujyi wa Kigali cyangwa ahandi hose hatandukanye, haba hari ibiribwa n'ibinyobwa, biri mu bwoko bugiye butandukanye, waba wabaga unywa ibisembuye cyangwa banywa ibidasembuye, buri wese babimufashamo nk'uko aje, ibinyobwa byose biba bihari mu bwoko bwinshi butandukanye.

Utubari twinshi tuzwiho gucuruza ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, tuba dufite ubwuzu yaba k'ubwiza bugaragarira amaso cyangwa kuri serivisi baha abakiriya babo nk'uburyo bwiza bwo kugumana abakiriya bakaguma baza, kandi bagashishikariza n'abandi kugana ako kabari.

Aha ni mu kabari aho abantu bakunze kujya kwiyakirira mu gihe cy'ibiruhuko cyangwa nyuma y'akazi, igihe basohokanye n'abantu cyangwa igihe bakeneye kureba imyidagaduro nk'imipira y'amaguru n'ibindi byose bitandukanye, byabafasha mu gusuruka no kuruhuka.

Ahantu henshi mu mujyi wa Kigali hari ibyapa byamamaza utubari ducuruza ibinyobwa bitandukanye naho duherereye, aho ushobora kugana ahariho hose ukahasanga ibinyobwa wifuza kugiciro cyiza kinogeye buri muntu ugasohokana n'inshuti zawe mukishima, mugasangira, mugasabana.

Utubari twinshi dukunze kuba twubatse mu buryo bukurura abakiriya babo, uhasanga ibinyobwa wifuza mu ngano zitandukanye n'ibiribwa bitandukanye kuko ushobora kuhasohokera ibyo wifuza byose urabihasanga wababo wasukanye n'inshuti n'abavandimwe mwese barabakira ukabakirana ubwuzu.

Utubari nk'umwuga mwinshi urimo amafaranga abantu benshi bakunze gushoramo , kuko abantu benshi basigaye bakunda gusohokera mu tubari, aho bajya kwishimana n'inshuti zabo, bakaba bakwiyakirana n'imiryango n'abavandimwe mu gihe bari kuruhuka basangira.

Mu tubari dutandukanye hari ibirahuri binyuranye biri mu ingano zitandukanye, yaba ibinini n'ibitoya, aho ushobora gushyiramo ibinyobwa wifuza, ku ngero wifuza, bigufasha kunywa no gusabana neza bitewe n'uko ubyifuza nk'umukiliya.

Uruganda rwa Sikolo ruzwiho mu gutegura ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, rukunze gushyira mabara yayo mu tubari tugiye dutandukanye nk'uburyo bwiza bwo kwamamariza abakiriya babo cyangwa kwerekana ko bafite ibicuruzwa by'uruganda rwa Sikolo ku giciro kinogeye buri wese.

Ku mihanda itandukanye yo mu mujyi wa Kigali cyangwa mu kengero z'umujyi wa Kigali cyangwa mu ntara n'ahandi hatandukanye, uhasanga utubari dutandukanye ducuruza ibiribwa n'ibinyobwa biri mu bwoko bwinshi, aho abantu benshi babagana, bakeneye kwiyakira, banywa kandi barya, bishimye.

Hari utubari twinshi dutandukanye mu Rwanda, mu duce dutandukanye, aho ushobora gusanga ibiribwa cyangwa ibinyobwa bitandukanye, ushobora kuhajya n'inshuti zawe mukiyakira kuko bitewe n'akabari n'aho kari ibiciro biba bitandukanye bitewe n'ibiribwa n'ibinyobwa, bihari ibiciro ntabwo aba ari bimwe.

Ahantu henshi bacuruza ibinyobwa n'ibiribwa, hameze nko mu tubari bakunze kuba hari imiziki itandukanya mu gihe cy'ibiruhuko cya mu gihe cya ninjoro abantu benshi bakunze kugana bagiye gufata kamwe nkuko babivuga mu buzima bwabo bwa buri munsi bakaba bahagana bakeneye ibibyo bifuza byinshi bigiye binyuranye.

Ahantu henshi ushobora gusohokera yaba mu tubari, amahoteri n'amaresitora atandukanye haba hari uburyo bwiza ushobora kwishyuraho ibicuruzwa wafashe, aho utunga telefone yawe kw'ako kantu ukaba wabona imibare ushobora kwishyuriraho cyangwa ibicuruzwa bafite n'ibiciro byabyo ukoresheje ikoranabuhanga.

Mukarere karemera, hamwe muhazwi nkuduce tubamo utubari twinshi, aho ugera hose uhabona ibyapa biriho ibinyobwa bitandukanye byamamaza utwo tubari, aho ubonye ushobora kuhagana aho hari ibyo byapa, haba hari umuryango winjira murako kabari ukeneye kuhagera wakwinjira ahongaho bakaba bagufasha ibyukeneye byose.

Abanyarwanda benshi bakunze gusohokera mu tubari basohokanye n'inshuti zabo mu minsi mikuru yabo cyangwa ibindi byose binyuranye, yaba iminsi mukuru y'amavuko cyangwa bishimira iminsi mikuru igiye inyuranye bagasohokana n'inshuti zabo bakishima bagasangira.

Mu maduka atandukanye hashizweho uburyo bwiza ushobora kurebaho ibicururuzwa bacuruza haba mutubari cyangwa mu maresitora anyuranye aho usikana kode wahawe ukaba wabona ibicuruzwa bafite, ibiciro byabyo bityo bikagufasha ko ubagana uzi ibiciro byabo niba n'ibyo wifuje byose bihari.

Hari udupapuro tuba turi mu mahoteli, mu maresitora, n'ahandi hose hatandukanye, ushobora kugana ukeneye ibiribwa cyangwa ibinyobwa bitandukanye, bitewe n'ibyo wifuza, yaba ibiribwa cyangwa ibindi, baguha agapapuro kariho ibiribwa bitandukanye, ukaba wahitamo ibyo ushaka, bitewe n'igiciro wifuza.

Utubari twinshi kumanywa dukunze kutagira abakiriya, kereka mu minsi y'ibiruhuko kuwa gatandatu cyangwa kucyumweru. Abakiriya mu gihe cy'imibyizi bakunze kuboneka nimugoroba iyo bwije benshi bavuye mu akazi bagakunze kujya kwiyakira baruhuka bitegura kujya mu kazi ejo ku munsi ukurikiyeho.

Utubari twinshi twubatse mu buryo buteye ubwuzu, aho bishimisha abakiriya babagana, baba abakeneye ibiribwa cyangwa ibinyobwa, bityo bagahabwa serivisi zose bifuza mu buryo bwiza, nko guhabwa impapuro zibereka ibicuruzwa bakeneye, bakaba bahitamo ibyo bashaka.

Abanyarwanda benshi bakunze gusohokera mu tubari aho usanga utubari dufite abakiriya benshi nko mu mpera zukwezi cyangwa itangiriro ry'ukwezi iyo bamaze guhembwa bakunze kujya kwiyakira n'inshuti n'abavandimwe bagasangira umushahara bahembwe.

Ikinyobwa cya sikoro cyitwa virunga, gikunze kuba cyiri mu tubari tugiye dutandukanye, kiboneka mu bipimo bitandukanye, kandi iki kinyobwa gifite ubwoko bugiye butandukanye, harimo virunga misitiri, virunga goludi, na virunga siriva nk'ikinyobwa cya virunga giherutse gusohoka mu minsi ishize.

Utubari twinshi tukunzwe kuba nta bakiriya dufite mugihe cy'imibyizi, ariko iyo amezi ari meza, abantu benshi bamaze guhembwa, tugira abakiriya benshi ku buryo no kubakira bibagora, kuko abenshi baba bfite amafaranga, kandi bakeneye gusangira n'inshuti zabo, n'abavandimwe.

Abantu benshi mu mujyi wa kigali bize imishinga yo gucuruza utubari kuko byagaragaye ko ariho hisigama amafaranga, kuko bagira abakiriya benshi kandi abanyarwanda benshi basigaye bakunze gusohokera mu tubari bashaka ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye no gusangira n'inshuti zabo.

Utubari dutandukanye tugiye turimo amatara y'ubururu n'umutuku n'andi mabara agiye atandukanye Aho uhindura ukabona hasa neza, ushobora kwaka ibyo ukeneye byose, Yaba ibiribwa cyangwa ibinyobwa, Yaba ibinyobwa bisembuye cyangwa ibidasembuye bikunze kujyayo mu gihe cy'ibiruhuko.

Utubari twinshi mu mugi wa Kigali dukunze kugira abakiriya benshi, bitewe n'uko tugaragara, yaba muri serivise cyangwa mu bigaragarira abantu bose, bikabafasha kugira abakiriya benshi, bitewe no kugaragara kwaho kwiza, na serivise nziza batanga, no kubategurira ibiribwa byiza biryoheye buri wese.

Mu tubari dutandukanye mu gihugu cyane cyane mu mujyi wa Kigali, hari abantu bategura ibinyobwa uko ubyifuza, bakaba bakuvangira ibintu byose uko ubishaka, ukaba wabibona nk'uko ubyifuza, ku giciro kiza kinogeye buri wese, uko ubyifuza niko babigukorera bakabikugezaho bimeze neza.

Kuko abantu benshi bafite imirimo bakora bakunze kubona umwanya mu masaha ya nijoro, niyo mpamvu utubari dukunze kugira abakiliya mu masaha ya nijoro kuko abenshi baba bavuye ku kazi bakeneye kuruhuka, gusangira bakishima bakuruhura mu mutwe kugira ngo ejo bazajye mu kazi bameze neza.

Abacuruzi cyangwa abakora ibindi byose bijyana n'ubucuruzi, basabwa kwandika cyangwa gukuramo ibyo bahahe cyangwa ibyo batanze kugira ngo bamenye umubare wibyo basigaranye n'ibyashize kugira ngo bibafashe kurangura ibindi bakeneye bitari mu iduka

Ahakorerwa ubucuruzi hose hazwi nko mu maduka cyangwa amaresitora agiye atandukanye, cyangwa utubari, baba bafite impapuro zitandukanye ziba ziriho ibintu, nk'ibiribwa bacuruza cyangwa ibinyobwa, icyo ukora ni uguhitamo ibyo ukeneye bakaba babigutunganyiriza cyangwa bakabikugezaho nk'uko ubyifuza.

Ahantu hazwi ubucuruzi bw'inzoga cyangwa ibinyobwa zisembuye n'izidasembuye byose hazwi nko mu tubari abantu benshi bakunze kugana mu gihe cyo kuruhuka bishimana nabavandimwe babo cyangwa inshuti babakirana urugwiro, bakabaha ibyo bifuza byose ku giciro cya genwe n'iryo duka cyangwa akabari

Aho bacuruza ibinyobwa bisembuye abanyarwanda bakunze kujya basohotse mu gihe cyo kuruhuka cyangwa mu gihe cyo kwishimisha bagafata ibinyobwa bitandukanye hazwi nko mu tubari, hatangirwa serivise zinyuranye aho ushobora kwaka n'ibiribwa cyangwa ibindi byose ukeneye bakabikugezaho.

Aha ni ahacururizwa ibinyobwa bitandukanye hazwi nko mu tubari, berekana n'imipira n'ibindi byose bijyanye n'imyidagaduro, yaba indirimbo cyangwa ibindi byose bifasha umuntu mu kuruhuka wabisanga hano, kandi babiguha hateguwe n'ibiribwa bitandukanye ku giciro cyiza kinogeye buri muntu.

Utubari twinshi ducuruza ibinyobwa bitandukanye bakunze gutegura ibirahure by'abakiriya babagana ushobora gusukamo ibinyobwa byabo bikabafasha kubibu nywa neza kandi ni uburyo bwiza bwo guha serivisi abakiriya babo babagana kuko ntacyongeraho gukoresha ibirahure byabo babiguhera ubuntu kuko baba bagufata neza nk'umukiriya wabo.

Sikolo marite ikinyobwa gikunze kunyobwa n'abantu batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa hanze yarwo, rukunze gucururizwa mu tubari dutandukanye cyangwa amaduka atandukanye, yaba abacuruza ibiribwa cyangwa ibinyobwa bitandukanye bakunze kugira icyo kinyobwa.

Ahantu henshi hakuzwe kwerekanwa umupira w'amaguru cyangwa ibindi byose bijyanye n'imyidagaduro, hakunze kuba harimo utubari, aho ushobora kuhagana nyuma y'akazi cyangwa mu gihe cy'ibiruhuko, ukaba wahasanga byinshi bitandukanye byagufasha mu kwishima no kuruhura mu mutwe.

M'utubati dutandukanye hagiye hashyirwamo insakaza mashusho zishobora gufasha abakiriya babagana kuba babona ibyo bahugiraho bareba imyidagaduro itandukanye yaba imipira n'indirimbo n'ibindi byinshi byerekanwa kurizo nsakazamashusho bikaba byabafasha kwishima kandi banezerewe mugihe bazireba.

Utubari tuba dukoze kuburyo umukiriya uba umubona hirya icyo akeneye ashobora kukubwira ukaba wakimusangisha aho yicaye kandi servise zitangwa zo aba ari zimwe bitewe naho waguriye ushborakuhasohokana n'inshuti zawe n'abavandimwe mugataha mwishimye.

Bahamasi pubu ni akabari gaherereye mu karere ka Remera ahazwi nko mu gisimenti, ikizakakubwira kariho icyapa cyanditseho bahamasi, kiriho ikinyobwa kizwi nka amusiteli, gitegurwa n'uruganda rwa bularirwa, abantu benshi baturiye akarere ka remera bakunze kuhasohokera mu masaha ya nyuma y'akazi.

Mu Rwanda hari ahantu henshi ushobora gusohokera hazwi nk'utubari, aho wasanga ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye, ushobora gusohokana n'inshuti n'abavandimwa, cyangwa ukaba wajya kuhiyakirira nyuma y'akazi cyangwa mu gihe by'ibiruhuko, cyangwa ukaba wahasohokana umukunzi wawe, ukamwakira ibyo yifuza, bakabimugezaho mu buryo bwiza.

Wifuza amata wagana amakusanyirizo atandukanye, aba ari mu ngeri zose zitandukanye yaba ritiro inusu cyangwa arimo uko ubyifuza bayagupimira bitewe n'ayo ushaka bayagupimira ku giciro kiza kandi bataguhenze.

Ahazwi nko muri alimantasiyo bacuruza ibiribwa n'ibinyobwa bigiye bitandukanye, yaba imitobe, yaba amata n'ibikomoka ku mata byose baba bafite amata ari mu bujerekani mu ngano zitanduakanye, yaba litiro eshanu, litiro zirindwi na litiro enye bitewe n'ayo wifuza barayaguha.

Amaduka atandukanye ari mu gihugu cy' u Rwanda acuruza amata n'ibikomoka ku mata byose yaba ikivuguto, icyayi cyangwa ibindi byose binyuranye hashyizweho uburyo bwiza ku bakiriya babo, aho ushobora kugura amata bitewe n'amafaranga ufite bakaguha ingano wifuza bitewe n'amafaranga yawe.

Abantu benshi bakunze kugana aho bacururiza amata, bakeneye amata yo kunywa cyangwa yo gukoresha ibindi bikorwa binyuranye mu rugo, cyangwa ayo ukeneye ako kanya yo kwifashisha nko kunywa cyangwa ukaba wayakoresha ibindi binyuranye mu rugo, nko guteka, cyangwa gukora ibyo kunywa bitandukanye.

Amakusanyirizo menshi acuruza amata, akunze gukora na serivise za kantine, aho ushobora kubagana ukeneye ibyo kurya, bakaba babiguha yaba ibyo kurya, cyangwa amata wanywa ako kanya mugihe ubyifuza, barabigufasha bakabigutunganyiriza akaba yakugeraho ntakibazo.

Amakantine cyangwa ahacururizwa amata n'ibindi byose bitandukanye by'ibinyobwa, nk'imitobe, amazi n'ibindi bitandukanye, babategurira n'amafunguro ushobora gusomeza ayo mata, akoze mu mafarini, yaba amacapati cyangwa amandazi, aha hakaba hakunze gusohokerwa n'abanyeshuri cyangwa abana batoya, bagiye gukamisha cyangwa kugura ibiribwa bitandukanye.

Amaduka y'uruganda rw'inyange Ari mu duce dutandukanye mu gihugu, azwiho gucuruza amata ndetse n'ibindi bicuruzwa bikorwa n,'uruganda rw'inyange Yaba ibikorwa mu mata cyangwa ibikorwa mu mbuto zigiye zitandukanye, Kandi bakaba bazwiho gucuruza amazi meza abantu nyarwanda bakunda.

Aha ni mumaduka acuruza amata aho bagemurirwa n'amapikipiki atandukanye kumakusanyirizo bakabazanira amata acuruzwa naba akorera aho ngaho akaba yabagezaho, kubiciro byiza kuburyo yayaha abaturage batabahenze.

Mu makusanyirizo cyangwa amaduka atandukanye acuruza amata cyangwa ibikomoka ku mata byose, hari ibyuma byabugenewe bashyiramo ayo amata, bikayarinda kwangirika bityo akagumana umwimerere kugira nuyagura ayagure afite ubuziranenge atarangiritse habe na gato.

Ahantu henshi bacuruza amata, hari ibi byuma bizwi nk'amakusanyirizo, bishyirwamo amata bikayarinda kwangirika, akagumana umwimerere, bityo n'umukiriya uje kuyagura akayasanga akimeze neza, biyarinda kwangirika, n'uyakeneye akayasanga akimeze neza ntakibazo yagize.

Amaduka acuruza amata cyangwa ibikomoka ku mata byose ushobora kuhasanga abakiriya benshi batandukanye kuko haba hari ubujerekani butandukanye mu ngiro zitandukanye kuko abakiriya babagana nago baba bakeneye ingano y'amata ingana uko uyifuza yose barayagupimira ukaba wabifata nkuko ubyifuza.

Inganda zitegura amata cyangwa ibikomoka ku mata yose zagiye zishyira ibicuruzwa byabo mu maduka agiye atandukanye yagenewe gucuruza ibyo bicuruzwa byabo yaba mu mugi cyangwa inyuma y'umugi kuko hose urabihasanga n'ibicuruzwa byabo bikababihari yaba ayo mata n'ibikomoka ku mata byose.

Abacuruzi benshi b'amata cyangwa ibikomoka ku mata bakunze kugira anakiriya babagana abakeneye ibyo kurya cyangwa ibikoresho byo gukoresha mu rugo, yaba abakeneye amata yo kunywa ako kanya cyangwa ayo kujyana mu rugo bose barabafasha ukaba wakwishyura ukoresheje terefone yawe cyangwa ukishyura amafaranga ufite mu ntoki.

Amandazi ni ibiribwa bikorwa mu mafarini bikunze kuribwa n'abanyeshuri, bakunze kubikunda kandi iyo byahiye neza bikisatura, bicuruzwa mu maduka atandukanye yaba aho bacuruza amata cyangwa ahantu henshi hakunze kwiyakirwa n'abanyeshuri cyangwa abakozi batandukanye bakora imirimo ivunanye.

Aha ni ahazwi nko muri kantine aho bacuruza ibinyobwa n'ibiribwa bigiye bitandukanye bakunze kuba bafite ibinyobwa bidasembuye usibye hamwe na hamwe haba hari n'ibisembuye, ariko ahenshi muri kantine baba bacuruza ibidasembuye n'ibiribwa uhagana ukeneye gufata amafunguro yabo ya mugitondo cyangwa ikindi gihe cyose uyakeneye.

Ahacururizwa amata cyangwa ibindi binyuranye hari udusahani cyangwa utundi tuntu dukoze nk'udutebo bakunze gushyiramo ibyo kurya wanywesha ayo mata, bikunze kuba bikorwa mu mafarini yaba amakeke, amandazi n'ibindi binyuranye, abanyeshuri n'abari mu kazi bose bakunze kuhagana bakabakira.

Abacuruza amata cyangwa ibikomoka ku mata byose batanga serivise zinyuranye ku biribwa binyuranye yaba ibikorwa mu mafarine, imitobe cyangwa amafanta ategurwa n'uruganda rwa burarirwa, ibyo waba wifuza byose wabihasanga yaba ibiribwa cyangwa ibinyobwa.

Uruganda rutegura amata y' i Nyanza rumaze gufungura amaduka menshi mu gihugu cy' u Rwanda aho usanga ibicuruzwa byabo yaba ibikomoka ku mata cyangwa amata, ikivuguto, amayahurute n' ibindi bitandukanye byose urabihasanga mu ngano zitandukanye nk'uko ubyifuza byose barabigutegurira.

Mu Rwanda cyane cyane mu Mujyi wa Kigali, hari inzu y'amaduka anyuranye, acuruza ibicuruzwa bikomoka ku mata, aho ubisanga ku biciro bitandukanye. Aya maduka akaba ashyirwaho n'inganda zitegura ibyo bicuruzwa kugira ngo byorohere abaturage kubibona.

Mu Rwanda hafunguwe amaduka menshi ategura ibyo kurya bya mugitondo, yaba mu mugi wa Kigali cyangwa mu ntara, aho ubagana bakagutegurira ibyo wifuza byose ku giciro cyiza, yaba amata y'inshyushyu, ikivuguto cyangwa icyayi, ku giciro cyiza kigoneye buri wese.

Abanyarwanda benshi bakunze gufata ikiribwa cy'umugati gikozwe mu ifarini ni ikiribwa cya mu gitondo bakinywesheje amata cyangwa icyayi bakaba bajya ku kazi bameze neza bikunze no kuribwa n'abana benshi mu gihe cya mu gitondo bitegura kujya ku ishuri.

Abanyeshuri cyangwa abandi bantu bose batandukanye bakunze kujya kwiyakirira mu maduka acuruza amata cyangwa ibikomoka ku mata, bakunze kugura cyane cyane amata y'ikivuguto, aho bajyana ari inshuti bagasangira. Bakaba babaha n'ibikomoka ku mafarini bashobora gusomeza ayo mata bakahava bishimye kandi bameze neza.

Hari ibicuruzwa byinshi bitandukanye bikorwa mu mata y'inshushyu, yaba ikivuguto, cyangwa amayawurute akunzwe gukundwa n'abana, bakunze kuyajyana ku ishuri bayapfunyitse bakayanywa mu gihe kibiruhuko, cyangwa bakaba bayanywa mu rugo nk'ibyo kunywa bya mugitondo, yangwa ibindi byose bitandukanye, nk'ibiribwa.

Amagi nk'ibiribwa bikomoka ku nkoko bikunze gucururizwa mu makantine anyuranye aho ushobora gusanga amata n'ibindi biribwa binyuranye, ahakunze gucuruzwa ku giciro kidahinduka kizwi nka magana abiri bitewe n'aho wayaguruye, akunzwe gucuruzwa hari agasenda n'umunyu bigufasha kuryoherwa n'iryo gi.

Ahacururizwa amata cyangwa ahatangwa serivise zinyuranye zijyanye n'imirire cyangwa ibintu bitandukanye, yaba abukeneye amata cyangwa ibikomoka ku mata byose hari ibyuma byabugenewe bifasha amata kugumana umwimerere, ibi byuma bifasha amata kuyarinda kwangirika akagumana umwimerere kugira ngo n'uyakeneye ayasange akimeze neza.

Iki ni ikinyobwa gitegurwa n'inganda zitunganya amata, kiboneka mu ngeri zitandukanye bitewe nuko ubyifuza, gikunze kunyobwa n'abana, wabisanga aho bacuruza amata hatandukanye, ku giciro cyiza kinogeye buri wese ukifuza.

Mu rwanda abantu benshi bafite amaduka agiye atandukanye acuruza ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye yaba amafanta cyangwa imitobe igiye inyuranye, amata n'ibindi byose bikomoka ku mata yaba icyayi, ikivuguto, amata y'inshyushyu cyangwa icyayi cya mukaru.

Hari ibyuma byagenewe kubikwamo amata, mu makusanyirizo acururizwaho amata, aho bifasha amata kuyarinda kwangirika akagumana umwimererere n'ugiye kuyagura ukayasanga akonje ameze neza ntakibazo na kimwe yagize, yaba gupfa cyangwa kwangirika.

Ahacururizwa ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye hazwi nk'amalimantasiyo cyangwa amakantine, bikunze gutegura ibiribwa bitandukanye bikorwa mu mafarini, ushobora gusomeza amata cyangwa ibinyobwa waba watse byose, kugira ngo bishobore kuba byaguhaza wumve umerewe neza.

Abantu benshi bakunze gufata ibyo kurya bya gitondo mu maduka atundukanye akunze kwitwa Cantine baba bafite ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye nk'amata y'inshyushyu, ikivuguto, icyayi cy'amata na mukaru urabagana icyo ushaka cyose barikigutegurira cya mugitondo cyangwa andi masaha yose ubikeneye.

Ahacururizwa amata aba ari mu ngano zitandukanye bitewe n'ayo wifuza, bitewe n'amafaranaga wishyuye bagupimira mu bikombe bitandukanye cyangwa ibirahure ashobora kuguhaza bitewe n'uko uyakeneye kandi bagutegurira n'ibiribwa ushobora gusomeza aya mata kugira bagufasha kuba wafungura ukava ugaze ukava umeze neza.

Ahacururizwa amata cyangwa ibindi byose bikomoka ku mata. Ushobora kuhagana waba ukeneye inshushyu cyangwa ikivuguto. Ibicuruzwa byose biba bihari bikorwa mu mata ndetse n'ibindi byose bitandukanye, yaba icyayi cy'amata cyangwa mukaru. Ibyo ukeneye byose urabihasanga, ukahasanga n'amandazi n'ibindi byose ushobora kunywesha icyo baguhaye.

Amandazi yatetswe agashya neza akunze gukundwa n'abanyeshuri iyo ahiye neza akisatura, ategurwa n'inganda zitandukanye mu gihugu, kandi agacururizwa mu maduka agiye atandukanye mu gihugu aho waba uri hose wayabona, ku giciro kidahinduka aho wayabona hose.

Aha cururizwa haba hari amajage ari mu ngano zitandukanye afasha abacuruzi gusuka amata mucyo waba uje kuyaguriramo no kugupimira ingano bitewe nuko uyifuza atamenetse cyangwa ngo yangirike bitewe nicyo atwawemo.

Ahacururizwa amata cyangwa ibikomoka ku mata hose, ubagannye nk'umukiriya, bagutunganyiriza ikintu icyo waba wifuza, yaba ikahwa cyangwa icyayi cya mukaru, byose barabigutunganyiriza, kuko haba hari ibinyobwa bitandukanye, n'ibiribwa biri mu bwoko butandukanye, bikorwa mu mafarini.

Abantu benshi bafite amaduka acuruza amata cyangwa ibindi binyobwa bitandukanye yaba ikivuguto, inshyushyu n'icyayi n'ibindi binyuranye bakunze gutegurira abakiliya babo n'ibiribwa bikunze ukorwa mu mafarini icyo bashobora kunywesha ayo mata ndetse n'ibindi biribwa binyuranye.

Abacuruza amata cyangwa ibikomoka ku mata byose, bakunze gucuruza n'ibiribwa bitandukanye n'ibindi binyobwa binyuranye, aho ushobora kubagana bakaba baguha ibyo wifuza byose byaba amafunguro cyangwa ibyo kunywa bitandukanye byose urabihasanga ku ngano zitandukanye bitewe n'uko kubyifuza.

Abanyarwanda benshi bakunze kugurira amata ahazwi nko mu makusanyirizo bayacuruza, aho ushobora gusanga amata zose wifuza cyangwa ibikomoka ku mata byose yaba ikivuguto cyangwa ibindi byose bitandukanye, ushobora no kuhasanga ibindi byose binyuranye bitegurwa n'urwo ruganda rw'ayo mata yaba amazi n'ibindi byose ku giciro cyiza kinogeye buri wese.

Ibi ni ibicuruzwa bitandukanye bikomoka ku mata y'inka, aho ushobora kubisanga aho bacururiza amata hose hatandukanye, ibizwi nk'ikivuguto cyangwa yawurute bitegurwa mu ngano zose biba bifunze mu macupa agiye atandukanye bitewe nuko ubyifuza.

Ibicuba bizanwamo amata aho acururizwa iyo bigeze ku maduka acururizwamo amata, amata ari muri ibyo bicuba asukwa mu cyuma gifasha mata kugumana umwimerere bikayarinda kwangirika kugira ngo abakiriya bayagure bayasange akimeze neza atangiritse na gato.

Amata ni igicuruzwa gicuruzwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda, aho hari amaduka nenshi atandukanye acuruza amata bitewe n'uruganda ruyatunganya, yaba aya Mukamira cyangwa ay'Inyange, wayabona ahantu hose waba uri mu gihugu, ku giciro cyiza kandi kidahinduka.

Ibi n'ibinyobwa bikorwa mumata y'inka aho waba uri hose mugihugu wabibona kubiciro bigiye bitandukanye cyangwa mungano zitandukanye bicururizwa aho bacururiza amata cyangwa kunganda zigiye zitandukanye zitegura amata y'inshushyu.

Ibyuma bifasha amata kugumana umwimerere, bikayarinda kwangirika, bikunze gukoresha n'abacuruzi b'amata, biyafasha kugumana umwimerere, kugira ngo abakiriya baza kuyagura, bayasange akimeze neza nta kibazo yagize, kandi akaba nta ngaruka yabigiraho ku buzima bwabo.

Amaduka menshi acuruza amata cyangwa ibikomoka ku mata yaba icyayi cyangwa ikivuguto, n'ibindi binyuranye bagufasha kuba wabona n'ibyo waba warisha ukaba bikagufasha kumera neza igihe uri gufata ibyo kurya bya mugitonda cyangwa igihe uri gufata ibyo kurya bya saa sita.

Ahacururizwa amata ntihacuruzwa amata gusa kuko haba hari n'ibindi bicuruzwa bitandukanye nk'ibikomoka ku mata nka foromaje, ikivuguto cyangwa yahurute byose urabihasanga ku giciro kinogeye buri muntu wese uhagannye akeneye ibicuruzwa bitandukanye bihacururizwa.

Abantu benshi yaba abanyeshuru cyangwa inshuti, bakunze gusohokera mu maduka atandukanye acuruza amata, azwi nka arimantasiyo, bakabakirana ubwuzu, bakabaha n'ibiribwa bitandukanye bikozwe mu mafarini bashobora gusomeza ayo mata, bakumva baguwe neza kandi bakahava bishimye.

Aha ni ahategurirwa hanacururizwa amata n'ibikomoka ku mata byose mu ngano zitandukanye yaba mu litiro cyangwa igice cya litiro wabibona ahangaha ibyo waba ukeneye byose bikomoka ku mata bitandukanye aho ku makusanyirizo babitegurira cyangwa babicururiza.

Ahacururizwa amata yaba ayo kujyana mu rugo cyangwa ayo banywa ako kanya igihe uyakeneye haba hari ibyuma bibikwamo amata biyarinda kwangirika ku buryo yapfa akagumana umwimerere n'uyaguze n'uyaguze agasanga akimeze neza mu gihe kinini nta kibazo yagize.

Ahantu henshi bacururiza amata cyangwa ibikomoka ku mata, hakunze kuba bafite ibyuma bibikwamo ayo mata, biyarinda kwangirika, akagumana umwimerere, n'uje kuyagura akayasanga akimeze neza, yaba mu gihe gito cyangwa kinini, icyo ugomba gukora, ugomba kureba ko gikora neza, ku buryo kirinda amata yawe kwangirika, nk'umucuruzi wayo.

Amaduka menshi acuruza amata n'ibikomoka ku mata bafite ibicuruzwa byinshi bitandukanye yaba amayahurute ikivuguto n'ibindi binyuranye bikomoka ku matara n ibindi byinshi bituruka ku matungo; nk'amagi n'ibindi byinshi wabihasanga ku ngano zitandukanye, yaba mu ducupa dutoya cyangwa utunini yaba utujerekani twa litiro enye cyangwa utwa litiro zirindwi byose urabibona nkuko ubyifuza.

Ibicuruzwa bikoze mu mafarini, by'ibiribwa, bikunze gucururizwa aho bacuruza amata cyangwa ibikomoka ku mata hose, kigira bifashe ababagana kuba babona ibyo basomeza ayo mata , mu gihe bashonje, kandi hakunzwe kwakirirwa abanyeshuri cyangwa abakozi batandukanye mu gihe cy'ikiruhuko.

Uruganda rwa mukamira rizwiho gutunganya amata n'amazi rufite uibyicaro byinshi bizwi nk'amaduka acuruza ibicuruzwa byabo, yaba amata cyangwa ibikomoka ku mata byose amazi cyangwa ibindi byose bitandukanye urabihasanga ku ngano zinyuranye.

Amakusanyirizo yagiye ashyirwa mu duce dutandukanye mu gihugu, yagiye akorana n'inganda zitegura amata n'ibikomoka ku mata yose, bakunze gucuruza imitobe ikorwa n'izo nganda, ikivuguto n'ibindi byose bikomoka ku mata, yaba amazi y'urwo ruganda cyangwa ibindi byose binyuranye urabihasanga.

Ahatangirwa serivisi zinyuranye yaba mu gutegura ibiryo kubakiriya babo bishyiraho uburyo bwiza nka serivisi nziza ku bakiriya babo aho ushobora kwiyakira, bakaba baguha ibigufasha mu kwihanganyura mu byaba byafashe amenyo ku buryo bwiza bwo gufata neza abakiriya babo.

Amaduka acuruza amata menshi acuruza amatara cyane cyane y'inyange bakunze gucuruza n'amazi ategurwa n uruganda rwabo, aho ushobora kubagana ufite icupa ryawe bakaba baguhindurira bakaguha iririmo amazi ku giciro cyiza, atari nk'ugiye kuyagura bushyashya udafite icupa, bakaba bayaguha ukayakoresha mu rugo nk'amazi yo kunywa.

Amata agemurwa ni modoka cyangwa amagare atandukanye ku makusanyirizo aho acururizwa iyo ahageze ashyirwa mu byuma biyatunganya kuburyo aba ari meza kandi afite umwimerere ku bakiriya bayagura akaba nta kibazo yagira yaba gupfa nibindi byose bitandukanye akagumana umwimerere bikayarinda kwangirika.

Inganda zitandukanye zitegura ibiribwa bitandukanye bikorwa mu ifarini, zikunze gufunga ibicuruzwa byazo mu bipapuro by'umweru. Ahantu hose wabisanga, yaba aho bacururiza amata cyangwa ibiribwa bitandukanye urabihasanga. Bifunze mu mashahi y'umweru, aho babibaranguza bakabibagezaho, kugira ngo bicuruzwe ku bakiriya bose babagana.

Mu maduka acuruza amata, n'ibindi byose byaba bikomoka ku mata, cyangwa ibinyobwa binyuranye, haba hari ibirahure byiza baheramo abakiriya amata baba bifuza kunywa ako kanya, yaba ikivuguto cyangwa inshyushyu, bagupimira ingano wifuza, bitewe n'amafaranga yo kwishyura.

Abana cyangwa abantu bakuru bakunze kujya gukamisha aho bacururiza amata ku makusanyirizo yaho hakunze kuba hari n'amazi nibindi bicuruzwa bikorwa mu mata nk'ikivuguto, yahurute nibindi bitandukanye byose urabihasanga ku giciro cyiza,

Mu Rwanda hari amaduka menshi acuruza ibintu bizwi nk'ibiribwa, ikunze kwitwa alimantasiyo cyangwa kantine, haba harimo ubwoko bw'inshi n'ibinyobwa n'ibindi byose wafata uri mu rugendo, bidasaba gutirurwa biba biri mu macupa agiye atandukanye, ushobora kujyana aho waba ugiye hose.

Amaduka menshi agenwa n'inganda zitegura amata bakunze gucuruza ibivcuruzwa bitandukanye bitunganwa n'urwo ruganda, yaba ibikomoka ku mata cyangwa ibikomoka ku mbuto zitandukanye bicuruzwa mo mwayo maduka biba bihari aho bacuruza amata atunganywa n'inganda zaho.

Usibye kuba bacuruza amata ku ikusanyirizo bacuruza n'ibiribwa bitandukanye, nk'ibikomoka ku mata binyuranye cyangwa icyayi, ikivuguto n'ibindi byose bitandukanye wabihasanga mu ngano zitandukanye nk'uko ubyifuza, n'ibiribwa washobora gusomeza amata byose biba bihari.

Ahacururizwa amata cyangwa ibindi byose bikomoka kumata kumaduka yizo nganda ziyategura hakunze gucururizwa kandi namazi yifashishwa murugo nkamazi yo kunkwa yaba ayo murugo yo kunkwa cyangwa ayo mungano ntoya ushobora kunkwa munzira cyangwa ahandi hose waba ugiye bitagusabye gutwara ingano nyinshi yayo mazi.

Ahacururizwa amata cyangwa ibindi binyobwa bitandukanye. Bitewe n'amafaranga ufite, bateguye ibikombe biri mu ngano zitandukanye, yaba ibinini n'ibitoya. Amafaranga ufite baguha ibyo wifuza, bakaguha n'ibyo kurisha bigiye bikoze mu mafarini, cyangwa ibindi bitandukanye wasomeza ayo mata.

Ibi ni ibicuruzwa bikorwa mu ifarini bicururizwa hantu hatanduknye batangira ibyo kurya n'ibyo kunywa bya mugitondo ku giciro cyiza, aho wabisanga mu ma kantine cyangwa amaresitora atandukanye mu gihugu ku giciro kiza.

Hari ibikoresho binyuranye, bikoreshwa n'abacuruza amata ku makusanyirizo, bibafasha kuyasuka no kuyapima, bitewe n'ingano umukiriya yifuza, kugira ngo ayafate yujuje ibipimo yifuza, nta kibazo kimwe cyabayeho mu gupima icyo yifuza kugura.

Abanyeshuri cyangwa abantu batoya bakunze kurya ibintu byitwa ibiraha, bikunze bikoze mu ifarini n'ibirayi, bicururizwa ahantu henshi mu gihugu, mu masaha ya nimugoroba usanga bari kubikora ku muhanda, abana n'abandi bantu bishimiye kubigura ku giciro kidahinduka.

Hari ibizwi nk'ibicuba bikozwe mu cyuma bikunze kubikwamo amata cyangwa bikaba bifasha mu kugemurira amata ahao acururizwa, cyangwa mu kugemurira amata abayakeneye yaba mu rugo cyangwa ku maduka ayahacururiza mu buryo ugiye butandukanye, ibi bifasha amata mu kuyatwara neza, bikayarinda, kumeneka cayngwa kwamgirika.

Keke ni ikiribwa gikozwe mu ifarine gikunze gusomezwa amata, gikunze kuba kiri mu maresitora agiye atandukanye cyangwa amakantine, aho bacuruza amata cyangwa ibindi byose bikomoka ku mata, yaba ikivuguto, icyayi, inshyushyu n'ibindi byose bitandukanye.

Abacuruzi b'amata y'inshyushyu cyangwa ikivuguto cyangwa ibindi byose bikomoka ku mata abakiriya babagana baba bakeneye ayo mata mu ngano bitandukanye. Bafite igikoresho byabugenewe bibafasha gupima amata bitewe n'ingano bifuza ku giciro gitandukanye bitewe n'ingano wifuza.

Amakusanyirizo ateye imbere ari mumugi wa Kigali, akunze kuba arimo ibyuma byinshi bibikwamo amata bikayarinda kwangirika, bigafasha umucuruzi n'umukiliya uje kuyagura akayasanga ameze neza, biyarinda gupfa n'uyaguze akayagura akimeze neza.

Amandazi cyangwa ibikomoka ku mafarini bitandukanye, bikunzwe gukundwa n'abanyeshuri, bicururizwa ahacururizwa amata n'ibindi binyuranye, akenshi ukunda kubisanga aho bacururiza amata. babitegurira abakirira ku buryo babisomeza amata, mu gihe babikeneye ako kanya nk'ayo kunywa.

Amandazi akunze kuribwa n'abanyeshuri cyangwa anandi bakozi bakora imirimo ivunanye, ahantu henshi bacuruza amata urayahasanga, yaba ay'ijana cyangwa aya magana abiri, ugashobora kwaka amata, ugasomeza ayo mandazi, bityo bikagutuma wumva uhaze, umeze neza.

Ahacururiza amata cyangwa ibikomoka ku mata byose, hakunze kuba ibiribwa bitandukanye ushobora gufata mu gihe uri kunywa ayo mata ukaba wabisomeza, yaba ibikoze mu mafarini cyangwa imbuto zitandukanye, ushobora gufata nyuma y'amafunguro atandukanye, ushobora kuba wahawe aho ngaho bacururiza amata.

Hari ibicuba bigemurwamo amata bivuye ku mafamu, aho aba yakamwe mu nka, bakayageza ku makusanyirizo aho acururizwa, akaba yashyirwa muri bya byuma biyarinda kwangirika, ibi bicuba biri mu bipimo bitandukanye, hari ibinini n'ibitoya, bishobora gutwarwamo ayo mata kugira ngo agere aho bayatwaye neza.

Aho bacuruza amata cyangwa ibindi binyobwa bitandukanye, bategura n'ibiribwa bikoze mu mafarini, yaba ibisuguti cyangwa amakeke, amandazi n'ibindi binyuranye ushobora gusomesha ayo mata, icyayi n'ibindi bitandukanye, buri gihe iyo wahiyakiriye barabigutunganyiriza, urabihasanga ufata ibyo wifuza byose ku giciro kidahinduka.

Amazi ni ikinyobwa gikunzwe n'abantu bose kuko bagikenera mu buzima bwose bwa buri munsi ,kuko yaho umwana cyangwa umuntu mukuru, buri wese akenera amazi yo kunywa acurururizwa ahantu hose hatandukanye mu gihugu, yaba mu maduka, mu tubari cyangwa ahacururizwa amata hose urayahasanga.

Ibi ni ibyuma byabugenewe bibikwamo amata bikayarinda gupfa cyangwa guta umwimerere, bityo n'uyaguze akaba nta ngaruka yamugiraho akagumana umwimerere igihe kinini cyagenwe, iyo ari muri iki cyuma nta kibazo na kimwe agira uyakeneye ayabona akimeze neza.

Ahakunze gucururizwa amata cyangwa ibindi byose bikomoka ku mata bakunze no kuba bategura amafunguro ya saa sita kubakiriya babo babagana ku buryo ushobora kuhagana ukaba wabona amata n'ibiribwa wifuza kugiciro cyiza udahenzwe.

Amazi ni ikinyobwa gicuruzwa mu maduka agiye atandukanye, yaba aho bacururiza amata cyangwa mu tubari, aho wasanga batagira amazi kuko umuntu wese ikintu n'amazi mu buzima bwe bwa buri munsi aho waba uri hose wayabona ku giciro kitahinduka bitewe n'aho wayaguriye.

Ibi ni ibyuma bibikwamo amata, ahazwi nk'ahacururizwa amata, biyarinda gupfa cyangwa kwangirika, ku buryo yatakaza umwimerere akaba yateza ikibazo ku wayakoresheje, bino bifasha amata kugumana umwimerere, n'uyaguze akayasanga akimeze neza, nta kibazo na kimwe yagize.

Hari ibyapa byamamaza ibicuruzwa bitegurwa n'uruganda rw'inyange, cyane cyane iby'amata akomoka ku nka zabo. Urwo ruganda ruherereye i Masaka, rutegura ibiribwa bitandukanye n'ibinyobwa, yaba ibikomoka ku mata cyangwa ibyo bakora mu mbuto zitandukanye nk'imitobe igiye inyuranye.

Ahantu henshi hacururizwa amata haba hari intebe zakira abakiliya, abaza bigendera, haba ushaka amata cyangwa ibindi binyobwa bitandukanye baragufasha ukaba bakwakira bakubwira byose wifuza ukaba wabishyura ukagenda, cyangwa ibindi byose waba ukeneye bakabiguha nk'uko babyifuza.

Ibyuma biba mu makusanyirizo agiye atandukanye bikoreshwa n'umuriro bibikwamo amata, bikayarinda kwangirika, akagumana umwimerere. Haba hariho utu robine tuyafasha gusohora amata atameneka, mu ngano zitandukanye bitewe nuko umukiriya abyifuza. Uramuvomera ukaba wayamuha ntakibazo na kimwe afite.

Ahacururizwa amata mu ngero zitandukanye, yaba uyajyana mu rugo, cyangwa uyanywera ahongaho, hashyizweho uburyo bwiza, n'imashini zifasha amata kugumana umwimerere, ku giciro gitandukanye, bitewe n'ingano ushaka, barakwakira, bakaba bagutegurera n'ibiribwa byo gusomeza ayo mata waba waguze.

Aho bacururiza amata cyangwa ibikomoka ku mata hakunze kuba hari amajerekani asukwamo amata bitewe umukiliya, nk'uko ayifuza bakaba bayagushyirira muri ayo majerekani, ukaba waza kuyafata ameze neza, cyangwa utundi tubido duto, dufite amalitiro atandukanye, yaba litiro eshatu cyangwa enye nk'uko ubyifuza.

Amata ni ikinyobwa gikunze kunyobwa n'ananyarwanda. Nk'ibyo kurya abya mugitondo, cya bakagifata nyuma y'amafunguro, bakunze kugifatira mu makantine atandukanye mu gihugu, kandi ku biciro bigiye bitandukanye bitewe ningano y'ayo ushaka, bashobora kuguha litiro, inusu, cyangwa litiro ebyiri, bitewe n'ayo wifuza.

Abantu benshi bacuruza amata, yaba abayavana ku mafamu, aho akamwa ava mu inka, ashyikirizwa aho bayacuririza, akunze gutwarwa mubicuba kugira ngo bayavane aho yavuye bayageza aho acururizwa, m'uburyo bwiza bwo kuyarinda kwangirika, atwarwa mubicuba bikozwe mu icyuma biyarinda kwandura no kuba yameneka.

Abanyarwanda bakunda gucuruza ibiribwa n'ibinyobwa bitegurwa n'uruganda rwitwa inyange mu maduka agiyea atandukanye bakaba bacuruza ibikomoka kumata, n'ibindi byose bikomoka ku mbuto n'ibihingwa bigiye bitandukanye.

Usibye kuba ahacururizwa amata hashobora kuganwa n'abakeneye amata gusa, n'abakeneye kwiyakira bahagana, bashobora kubaha ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanyr baba bakeneye, igiba bari kurugendo bakeneya kuruhuka, bakeneye kuba hari ibyo bafata ushobora kuhagana bakaba babiguha.

Ahakunzwe gucururizwa cyane ibiribwa, cyangwa ibikomoka ku mata byose, yaba inshyushyu, ikivuguto, cyangwa ibindi byose ibinyobwa, n'ibiribwa bikomoka ku mafarini, wabisanga nk'ahazwi nko mu makantine, aho biba bicururizwa, n'ahandi.

Ahantu henshi bacuriza amata bakunze kuba bacuruza n'ibindi biribwa bikomoka ku matungo yaba amagi cyangwa ibindi binyuranye ku buryo babigucuruza ku giciro kiza n'ukeneye kurangura akaba yabihafatira akaba yabicuruza ku giti kiwe.

Hari igikoresho kizwi nk'umubirikira, gikoreshwa n'abacuruza amata, cyangwa ibindi byose bisaba gusuka, bigufasha gusuka ibyo usuka bitamenetse hasi, cyangwa bikayarinda kwangirika, bikajya mu cyo wifuza kuyashyiramo neza, nta na make amenetse, cyangwa ngo yangirike.

Aha ni aho bacururiza ibicuruzwa bitandukanye bitegurwa n'uruganda rw'inyange, cyane cyane hazwi nkaho hacururizwa amata, ariko ibicuruzwa byose by'inyange wabihasanga yaba amata amazi cyangwa ibindi byose bikomoka ku mata ku giciro cyiza cyagenwe n'uruganda rw'inyange.

Mu Rwanda hashyizweho amaduka menshi acuruza ibyo kurya bya mu gitondo. Yaba inshushyu, ikivuguto n'amatara n'ibyo kurisha ibyo ari byo byose bitandukanye. Igihe waba ushonje wabagana bakaba bagutegurira ibyo waba ukeneye byose, mu gihe bitoroshye kugera aho wabifatira mu rugo.

Uruganda rw'INYANGE rufite amaduka agiye ari ahantu henshi mu gihugu, aho bacururiza ibicuruzwa byabo. Yab'amata, ikuvuguto, amayahurute, cyangwa amazi n'imitobe ikorerwa mumbuto zigiye zitandukanye, uhasanga n'amazi mu bipimo bitandukanye yab'ayo kujyana murugo n'ayo wanywa uri ku rugendo ari mu bipimo bitoya.

Ahacururizwa amata cyangwa ibikomoka ku mata byose, haba hari intebe zifasha abakiliya babagana bakeneye amata yo kunywa ako kanya, nk'icyo kunywa cya mugitondo, cyangwa mu ma saa sita, mu gihe cy'ibiruhuko bitegura gusubira mu kazi mugihe bari gufata ibyo kurya.

Abanyarwanda benshi bakunze kugana amaduka azwi nk'amalimantasiyo cyangwa amakantine, mu gihe cya mugitondo bari gufata amafunguro ya mugitondo cyangwa mu gihe cya sa sita, mu gihe cyo kuruhuka bavuye mu kazi. Bakaba babagana bakabaha ibyo bifuza buose, bagasubira mu kazi bameze neza.

Ubu byaroroshye, ahacuruzwa ibikoresho byose yaba esansi cyangwa peteroli n'ibindi byose bikenerwa ni ikinyabiziga, haba hari uburyo bwiza bwo kwishyura bw'ikoranabuhanga, aho ukoresha imibare yiyo kampani ukaba wakwishyura ibyo wahawe nta nkomyi.

Ubu ni uburyo umuyoboro wa emutiyene washyizeho aho ushobora kugura amayinite yawe kuri momo cyangwa ukayagurira ku mayinite bitewe n'uburyo wifuza mo buriho amafaranga, bityo bikagufasha kuyakura mu buryo bwiza bitakugoye kandi mu buryo bworoshye.

Umuyoboro wa emutiyeni wagiye ushyiraho ibihembo ku bakoresha umuyoboro wabo neza yaba mu kwishyura, kugura amayinite n'ibindi byose bitandukanye uyikoresha cyane bagiye bamugenera ibihembo nk'umukiriya w'imena mu gukoresha umuyoboro wabo wa emutiyeni.

Hari ahantu hamwe na hamwe uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga bidakunda bigusaba kujya ahari utuzu dukoreramo abantu bakorana n'umuyobora wa MTN, bakaba bakubikurira amafaranga ari kuri telefoni, ibyo bikagufasha kwishyura nta nkomyi ibyo wafashe.

Ahazwi nko ku kicaro cyangwa ahatangirwa serivise zinyuranye zidatangwa n'abantu bakorera ku mihanda bakorera imiyoboro ya emutiyene, ushobora kubagana ukeneye ko bagukemurira ibibazo bitandukanye waba wagize ku muyoboro yaba kugura simukadi cyangwa ibindi byose binyuranye babigufashamo mu buryo bwiza kandi bworoshye.

Umuyoboro wa Emutiyeni washyizeho uburyo bwiza, aho umukiriya ashobora kwishyura umucuruzi akoresheje uburyo bwiza bw'ikoranabuhanga, umuyoboro wa Emutiyeni wagiye uha buri mucuruzi akapa kariho imibare imubaruyeho, bifasha umucuruzi kwishyura ibicuruzwa yahawe. Icyo ukora ni ugushyiramo iyo mibare n'umubare w'amafaranga, ukaba wakwishyura umucuruzi.

Abakozi b'umuyoboro wa MTN baguha serivise zose ku muyoboro cyangwa bakagukemurira ibibazo byose waba ufite yaba kubitsa amafaranga cyangwa kubikuza cyangwa kuyoherereza umuntu wawe utari hafi yawe n'ibindi byose bitandukanye nko kugura amayinite babigufashamo bitagusabye kujya ku kicaro.

Umuyoboro wa emutiyene ukomeje gushimisha abakiliya babagana, aho bahabwa ibihembo bitewe nuko bakoresha umuyorobo wabo cyangwa serivise zimwe na zimwe bakaba bazihabwa ku buntu nko gukemurirwa ibibazo bitandukanye bijyanye n'umuyoboro wa emutiyene.

Ubu usibye mu mujyi wa Kigali no mu ntara umuyoboro wa emutiyeni washyizeho abantu bashobora kugufasha mu bikorwa bitandukanye, bakaguha serivise ku miyoboro wa emutiyeni, aho ushobora kubitsa cyangwa kubikura amafaranga, nko kuba wakoherereza umuntu amafaranga mutegeranye.

Abacuruzi cyangwa abandi bose batanga serivise ku muyuboro wa emutiyene, bahawe ibyapa ndetse n'imyambaro yamamariza umuyoboro wa emutiyene, aho bafasha abakiriya babagana mu kwishyura bakoresheje ikoranabuhanga, cyangwa muri serivise zinyuranye ku muyoboro wa emutiyene bakaba bazibafashamo.

Hari uburyo bwiza umuyoboro wa emutiyeni washyizeho aho ushobora kwishyura ibicuruzwa wahawe ukoresheje apurikasiyo yabugenewe, utiriwe ukanda akanyenyeri n'ibindi byinshi hari uburyo ushobora gushyiramo umubare w'ibanga muri apurikasiyo ugashyiramo nimero ugomba kwishyura ukemeza amafaranga akaba yagera kumucuruzi.

Umuyoboro wa MTN washyize abakozi babo muduce dutandukanye mugihugu abakorera mutuzu dutoya cyangwa mumitaka, aho ushobora kubagana bakagukemurira serivise zose waba wifuza yaba kubitsa amafaranga cyangwa kuyabikura ukaba wahagurira ama inite cyangwa ukaba wakohereza umuntu amafaranga ukoresheje ikoranabuhanga.

Abacuruzi benshi basigaye bakoresha ubu buryo bwiza bwagenwe n'umuyoboro wa emutiyeni, aho ushobora kubishyura ukoresheje ikoranabuhanga icyo ukora ni ugushyiramo akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe akanyenyeri ugashyiramo imibare yagenwe y'umucuruzi akanyenyeri umubare w'amafaranga ugashyiraho urwego ukemeza, ugashyiramo umubare w'ibanga akaba yamugeraho.

Serivisi z'umuyoboro wa MTN wazisanga aho waba uri hose mu gihugu kuko hari abantu benshi bagufasha mu byo waba ukeneye byose, waba ukeneye kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, kohereza umuntu amafaranga kugurama amayinite n'ibindi byose bitandukanye barabigufasha aho waba uri hose.

Aha ni ku kazu k'umuyoboro wa Mtn aho ushobora kujya bakagufasha kohereza amafaranga, kuyabitsa, cyangwa ukaba wayakira, bashobora kuyakubikurira uko yaba angana yose bitewe n'amafaranga umuyoboro wa Mtn wagiye ugena, ukatwa bitewe n'amafaranga wabikuje.

Mu Rwanda, utu tuzu dutangirwamo serivisi z'umuyoboro wa emutiyeni, turi ahantu hose mu gihugu, aho bifasha buri muturage wese ukeneye serivisi ku muyoboro wa emutiyeni kuzibona byoroshye, bitamusabye gushaka aho yazibona aho waba uri hose mu gihugu, kubera ko ahabona uburyo bwiza bwo kubona serivisi yifuza.

Ibyapa byamamaza serivisi nziza z'umuyoboro wa Emutiyeni cyangwa ibindi byose binyuranye wakora ufashijwemo n'umuyoboro wa Emutiyeni, biri ahantu hose mu gihugu, yaba ahatangirwa serivisi cyangwa ahandi hose hatandukanye, aho ushobora kubisanga ahari abakozi babo bagufasha mu kibazo icyo ari cyo cyose waba ukeneye ko bagukemurira cyijyanye n'umuyoboro wa Emutiyeni.

Aho uzabona akazu k'umuhondo gakoreramo umukozi w'umuyoboro wa MTN, ni ikigaragaza yuko umuntu uhakorera yagukemurira serivisi zose waba wifuza ku muyobora wa MTN, kandi byaba bidakunda akaba yakurangira ahari icyicaro, aho ushobora kugana bakagukemurira ibyo adashoboye kugukemurira.

Buri mucuruzi cyangwa undi muntu wese utanga serivisi wishyurwa ku ikoranabuhanga umuyoboro wa MTN wamuhaye akapa, kerekana imibare bashobora kumwishyuraho mu buryo bworoshye, ibiciro yagennye byo kumwishyuriraho ibyo yabahaye cyangwa serivisi yabahaye.

Ahari abakozi b'umuyoboro wa emutiyeni, haba abakorera mu tuzu cyangwa ahandi hatandukanye, hakunze kuba hari utwapa twerekana ibiciro bitewe n'ayo ukeneye kubitsa cyangwa ukeneye kubikuza. Hari amafaranga yagenewe bakata bitewe n'ingano y'amafaranga ukeneye kubikuza, cyangwa kohereza umuntu bakayagukata bitewe n'ayo ukeneye kohereza.

Ubu byaroroshye aho ushobora guhabwa serivise z'irembo cyangwa ibindi byose cyangwa serivise za banke bitagusabye kujya kucyicaro cyangwa kuri banke aho ushobora kubicyemurirwamo n'abantu bagiye batandukanye bakorera muduce dutandukanye muhanda bagufasha muri ibyo byose ukeneye bitagusabye kujya kucyicaro cyabyo.

Abacuruzi benshi bashyizeho uburyo bwiza bwo gufasha abakiriya babo aho ushobora kwishyura bitakugoye ukoresheje ikoranabuhanga, ukoresheje terefone yawe ushobora kwishyura ibyo wahashye byose bitewe n'amafaranga ufite kuri terefone yaba ari na makeya ukaba wayakura kuri banke ukayashyira kuri simukadi yawe kugira bigufashe kwishyura mu buryo bwiza.

Hari udupapuro cyangwa utuntu dukoze muri pulasitike dushobora kugufasha mu kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga ry'umuyoboro wa Emutiyeni twagenewe ahantu hose bakorana n'iyo serivise yo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga. Tuba turiho imibare y'umucuruzi cyangwa imibare ibaruye ku izina ry'iryo duka waguriyemo ukaba ryagufasha kwishyura mu buryo bworoshye.

Aba ni abamamaza umuyoboro wa eyateri aho ushobora gusanga serivisi zitandukanye ku muyoboro wa eyateri, babigufashamo ku buryo bworoshye ni uburyo bwo kwamamaza uyu muyoboro ku ni uburyo bwiza, babyegereza abaturage bityo bakabafasha kumenya ibyinshi byimbitse kuwo muyoboro.

Abatanga serivise ku muyoboro wa emutiyene bari ahantu hose mu duce datandukanye, aho bashobora kugufasha igihe uri kwishyura amafaranga yaba ku umuntu ukwegereye cyangwa uri kure yawe ukoresheje ikorana buhanga kuyamwoherereza, ukuye ku muyoboro wa emutiyene amugeraho cyangwa ibindi byose binyuranye nko kugura amayinite, kubitsa amafaranga cyangwa no kuyabikuza.

Abagana umuyoboro wa emutiyeni, yaba ku byicaro cyangwa ahakorera abakozi bayo banyuranye, baba bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Yaba abyifuza guhufungura imibare y'ubucuruzi abakiriya babo babishyuriraho mu gihe babagannye, cyangwa abakeneye kubitsa cyangwa kohereza amafaranga, cyangwa gukemurirwa ibibazo nko kubura simu kadi mu gihe bakeneye kugura ibindi, byose barabibafasha.

Hari uburyo bwiza bw'ikoranabuhanga ushobora kwishyuraho ukoresheje ikoranabuhanga aho ushyira apurikasiyo muri terefone yawe ugashyiramo imyirondoro yawe n'umubare w'ibanga, bino bikaba byagufasha kw'ishyura wihuse ukoresheje ikoranabuhanga ku muyoboro wa MTN.

Hari uburyo bwiza buzwi nka MoMo Peyi, bwo kwishyura ukoresheje telefoni yawe ngendanw, aho ushyiramo imibare yagenwe y'umucurizi, ukaba washyiraho igiciro ugomba kwishyura cy'amafaranga, ukaba wabimwoherereza kuri telefoni, amafaranga akamugeraho nta kibazo.

Mu Rwanda abatanga serivise zinyuranye ku muyoboro wa MTN, yaba abakorera mu tuzu cyangwa mu mitaka iyi y'amabara y'umuhondo ya MTN, wababona aho waba uri hose mu gihugu bakagufasha gukemura ibyo waba ushaka byose ku muyobora wa MTN, yaba kubitsa cyangwa kubikuza n'ibindi binyuranye ku muyoboro wa MTN babigufasha ku buryo bworoshye.

Umuyoboro wa Airtel niwo umaze gufungura ibyicaro byinshi aho abakiliya babo bakunze kuba abari baje gukemuza ibibazo byabo bitandukanye yaba gutakaza amasimukadi yabo bakeneye andi cyangwa ibindi binyuranye nko kuhereza amafaranga cyangwa kwibaruzaho andi masimukadi cyangwa imibare yo kwishyuriraho ari abacuruzi batandukanye.

Uyu ni umukiriya wishyura akoresheje ikoranabuhanga, yaba ibicuruzwa aguze cyangwa serivisi zose yawe yishyura akoresheje telefoni ye. Aha ari kwerekana ubutumwa yagiye ahabwa bitewe n'ibyo yagiye yishyura ahantu hagiye hatandukanye.

Umuyoboro wa emutiyeni wegereje abantu bose aho waba utuye hose uburyo wahabwa serivisi zose waba ukeneye ku muyoboro wa emutiyeni bitakugoye aho waba uri hose ubona umuntu wagufasha mubyo ukeneye gufashwamo byose bitagusabye kujya ahandi.

Ku mihanda yose igiye itandukanye yaba ari mu mujyi wa Kigali cyangwa mu ntara, hakunze kuba hari utuzu dutangirwamo serivise zitandukanye z'umuyoboro wa emutiyene, aho abakiriya bavugana bakeneye gukemurirwa ibibazo bitandukanye, mu kohereza amafaranga cyangwa kugura amayinite.

Umuyoboro wa Mtn washyizeho uburyo bworoshye aho ukoresha apurikasiyo yabo ikagufasha mu gukemura ibibazo byose waba ukeneye gukemura ukoresheje umuyoboro wa Mtn yaba kwishyura cyangwa kureba ibikorwa binyuranye wagiye ukorera ku muyobora wabo wa Mtn wishyura cyangwa ugura amayinite.

Aho wasanga ako kapa k'umuyoboro wa emutiyeni hatangirwa serivise zitandukanye, ni icyerekana yuko ushobora kwishyura serivise wahawe cyangwa ibicuruzwa wahaguze ukoresheje ikoranabuhanga aho ushyiramo iyo mibare n'umubare w'amafaranga ugomba kwishyura ugashyiramo umubare w'ibanga ukemeza, amafaranga akaba yagera ku mucuruzi.

Umuyoboro wa emutiyeni washyize imbaraga mu gutanga serivisi ku muyoboro wa emutiyeni. Aho waba ukeneye serivisi zose mu gihugu wabona ugufasha. Yaba abo mu mitaka cyangwa abo mu tuzu baba bari ahantu hose. Nk'uko ubyifuza urababona bakagufasha gukemura ibibazo waba ufite kuri serivisi n'umuyoboro wa emutiyeni.

Yaba mu maduka, mu masoko cyangwa imidugudu y'ubucuruzi, hakunze kuba hari abantu bakorana n'umuyoboro wa emutiyeni bashobora kigufasha mu gihe utakwishyura ku ikoranabuhanga. Bakubikuriza amafaranga ukaba wayishyira mu ntoki, cyangwa bikunda ukaba wakwishyura ku ikoranabuhanga, nta nkomyi.

Abakozi b'umuyoboro wa MTN bakorera mu tuzu turi mu duce dutandukanye tw'igihugu bafasha abaturage mu kubakemurira ibibazo byabo byose bagira ku muyoboro wa MTN bitabasabye kujya ku cyicaro, bakabibakemurira aho bari hose mu gihugu bitabasabye kujya ahandi babisanga kuko bo barabyegerejwe aho baba bari hose.

Aho uzasanga ako kapa haba mu maduka cyangwa ahatangirwa serivise zitandukanye, bivuze yuko hari uburyo bwiza bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, aho ukanda akanyenyeri , ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri, umunani, akanyenyeri rimwe, ugashyiramo umubare w'umucuruzi uri kw'ako kapa, ugashyiramo umubare w'amafaranga, ugashyiramo umubare w'ibanga, ukaba wakwishyura uwo mucuruzi.

Hari uburyo bwinshi bwiza kandi bworoshye ushobora kwishyuriraho ibicuruzwa cyangwa ibindi byose waba wahawe, byaba mu tubari cyangwa amaduka atandukanye wishyuwe ku ikoranabuhanga, aho ushyiramo *182*8*1*, ugashyiraho imibare y'umucuruzi, ugashyiraho urwego ukemeza ugashyiraho umubare w'amafaranga ugomba kwishyura, ugashyiraho umubare w'ibanga ukemeza kuba wakwishyura.

Aka ni akazu gatangirwamo serivise z'umuyoboro wa eyateri, aho ukagana ukaba wafashwa n'umuntu ugakoreramo akaba yaguha serivise zinyuranye yaba nko kubitsa amafaranga, cya kuyohereza, cya kugura amayinite n'ibindi byose bitandukanye k'umuyoboro wa eyateri abigufashamo mu buryo bwiza.

Utu ni utwapa tugenda duhabwa abacuruzi cyangwa abatanga serivise zinyuranye, yaba abacuruza ibiribwa, abacuruza amapeterori akenerwa n'ibinyabiziga, abatanga serivise z'ubuvuzi n'ibindi binyuranye bahabwa utu twapa tuba turiho imibare babishyuriraho amafaranga bagennye abakiriya bagomba kwishyura.

Umuyoboro wa MTN washyizeho uburyo bwiza bwo gufasha abakiriya babo, aho waba uri hose mugihugu ushobora kubona Umukozi wagufasha mubyo ukeneye byose gukemura, yaba kohereza amafaranga, kubitsa cyangwa kubikura cyangwa kugura ama inite n'ibindi byose bitandukanye, n'ibibazo byose waba ufite kumiyoboro arabigusubiza.

Umuyoboro wa Airtel washyizeho uburyo bwiza bw'ikoranabuhanga, aho ushobora kubitsa amafaranga, cyangwa ukaba wayabikura, cyangwa ukaba wayohereza umuntu ukeneye kuyaha uwo ari we wose, bitagusabye kuyatwara mu ntoki, aho ushobora no kuyakura kuri konti yawe ukayashyira kuri telefone yawe ngendanwa, bikagufasha kwishyura ibyo wahawe byose.

Uburyo bwo kwishyura mu gihugu cyose cy'u Rwanda byarakemuwe cyane cyane mu mujyi wa Kigali aho ushobora kugurira ibicuruzwa byose ukeneye ukaba wakwishyura ku ikoranabuhanga ukoresheje umuyobora wa MTN cyangwa indi miyoboro bitagusabye amafaranga menshi wowe wishyura ibyo kwishyura nta kindi bagusaba.

Umuyoboro wa emutiyeni wagiye ushyira abakozi batandukanye mu duce twose, nk'umuyoboro wa emutiyeni, ubufasha gukemura ibibazo abaturage, abo bakozi bakorera amafaranga bitewe n'uko bagiye bakorera abaturage, bityo rero uko bakorera benshi bikaba byabafasha guhabwa umushahara mwinshi.

Ku byicaro by'umuyoboro wa Mtn hakunzwe gucururizwa n'ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga yaba amaterefoni, ibirahure by'amaterefone, amakoteri n'ibindi byinshi binyuranye kandi bashyizeho na serivise aho ushobora kwaka terefone ukujya uyishyura gake gake bitewe nuko ukoresha umuyoboro wabo bakugenera ubwoko bwa telefone baguha.

Ukigana aba bakozi ba emutiyeni bakorera mu tuzu tuzwi nk'amakiyosike, bakwakirana ubwuzu bakakubaza ibyo ukeneye yaba ubitsa cyangwa uwohereza amafaranga, ubitsa amafaranga cyangwa ushaka kugura amayinite n'ibindi byose binyuranye babigufashamo nk'uko ubyifuza nk'umukiliya wabagannye.

Ukeneye gukemura serivise zijyanye n'umuyoboro wa emutiyeni yaba kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga, ibindi byose bitandukanye, babifashwamo n'abantu bari ku mihanda igiye itandukanye bakorera mu tuzu cyangwa mu mitaka, bityo bakagufasha kugukemurira ibyo ibibazo bitandukanye waba ufite kuri uwo muyoboro.

Hari ibyicaro byinshi bikorana no gucuruza kuri murandasi, aho ubagana ukeneye gufata ibyo uba waratumije. Wowe iyo bigeze mu gihugu, urabishyikirizwa kuri ibyo byicaro bitandukanye bitewe n'aho utuye, ukaba wabagana wabagana bakabikugezaho. Werekana inyemezabwishyu waba warishyuriyeho ibyo watumye.

Aha ni ahatangirwa serivisi zitandukanye ku muyoboro wa Mtn, bakaba wamamaza muri uwo muyoboro hakaba hari n'atombora zigiye zitandukanye uko ugerageza amahirwe ushobora gutsindira ibihembo nkuko kuri iki bakaraga bagamije gutombora.

Ku byicaro bitandukanye by'umuyoboro wa MTN, ahatangirwa serivise zinyuranye; yaba kugura simukadi nshyashya cyangwa ukaba wafata simukadi ikubruyeho ukaba wayishyira ku wundi muntu, byose barabigufasha, n'izindi serivise zinyuranye, nko kuyobya amafaranga bakaba bayakugarurira, byose barabigukorera.

Igihe ukeneye kubikuza cyangwa kubitsa amafaranga, si ngombwa gushaka ahari icyicaro cya MTN cyangwa gushaka ahakorerwa serivisi z'umuyoboro wa MTN, icyo ukeneye gukora ni ukureba umugabo waba uri mu mutaka cyangwa mu kazu, akaba yakubikira cyangwa akakubikuriza amafaranga kuri terefone yawe

Aho waba uri hose mu gihugu, wahabona ibyapa byamamaza umuyoboro wa MTN, cyangwa abakozi b'umuyoboro wa MTN: yaba abagenda ku mapikipiki, abakorera ku mihanda mu mitaka cyangwa mu tuzu dutoya; bagukemurira ibibazo byose mu kubitsa no kubikuza amafaranga n'izindi serivise ku muyoboro wa MTN.

Umuyoboro wa emutiyeni ufite ibyicaro ahantu hose hagiye hanyuranye, ku buryo bifasha abakiriya babo. Igihe cyose wahura n'ikibazo ushobora kubona icyicaro kikwegereye, ukaba wabagana bakagukemurira ikibazo waba ufite, yaba ku bijyanye n'amafaranga, kugura amayinite cyangwa kugura simu kadi nshya, byose barabigukemurira.

Aba ni abashinzwe mu muyoboro wa emutiyeni kwamamaza no gutanga serivise zinyuranye ku muyoboro, aho bageneye ibihembo kubakoresha umuyoboro wa emutiyene cyane, yaba mu kwakira amafaranga , cyangwa kuyohereza, kugura amayinite n'ibindi byose bitandukanye bisaba amafaranga. Ukaba wakoresha umuyoboro wa emutiyene kugira ngo bizagufashe kugera ku nsinzi.

Hari ubundi buryo bwiza aho batanga code ushobora gusikana ukabakwishyura ibyo wahawe ushyizemo igiciro ukoresheje ikoranabuhanga, ikarita yawe terefone cyangwa ukoresheje ikaritari yo kuri banki ukaba wakwishyura ibyo wahawe nta nkomyi.

Abantu benshi bakunze kugana ahatangirwa serivisi z'umuyoboro wa emutiyeni bakeneye gukemurirwa ibibazo bigiye bitandukanye, yaba abayobeje amafaranga cyangwa serivisi zimwe na zimwe zitari gukunda kuri telefoni zijyanye n'umuyoboro wa emutiyeni. Abo bakozi n'umuyoboro wa emutiyeni byose barabigukemurira.

Abakiriya benshi bakunza gusobanurirwa ibibazo bababafite iyi bagiye ku kicaro cy'umuyoboro wa mtn, bakabibasobanurira neza bakaba babyumva ,cyangwa igihe bayobeje amafaranga. Mu gihe bayakeneye byihutirwa birasaba kujya ku muyoboro bakaba babakemurira ibyo bibazo byihuse bakaba babona ayo mafaranga yayobye.

Utuzu dutangirwamo serivisi n'umuyoboro wa emutiyeni dukunze kuba turi ku muhanda, hirya y'inzira y'abanyamaguru, aho ushobora kugana umuntu ukoreramo akaba yagukemurira ibibazo byose waba ufite ku muyoboro wa emutiyeni, yaba kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga no koherereza umuntu amafaranga aho yaba ari hose mu gihugu cyangwa inyuma yacyo, akoresheje umuyoboro wa emutiyeni cyangwa indi miyoboro yose.

Umuntu uri kwishyura akoresheje uburwo bw'ikoranabuhanga, aho ushyira nimero z'umucuruzi muri telefone yawe, ukabihiriza amatageko n'amabwiriza agenwa n'umuyoboro wa emutiyene, ukaba wakwishyura ibyo wahawe, cyanwa serivisi, cyangwa ibicuruzwa waguze.

Mu masoko n'ahandi hose bacuruza ibiribwa cyangwa imboga zigiye zinyuranye, hashyinzweho uburyo ushobora kwishyura ukoresheje banki bitagusabye kubikuza amafaranga, n'ibindi byose byakugora mu gihe ugiye kwishyura. Bashyizeho uburyo bworoshye ushobora kwishyuramo.

Utu tuzu turi ku mihanda itandukanye turi mu mabara y'umuhondo dutangirwaho serivise zose waba ukeneye ku muyoboro wa emutiyeni, dukoreramo abakozi bo mu muyoboro wa emutiyene bashobora kugufasha mu bintu byose, yaba kugura amayinte, kubitsa cyangwa kubikuza amafatanga.

Mu Rwanda hashyizweho uburyo bwiza, aho ushobora kwishyura serivisi uhawe cyangwa ibicuruzwa waguze ukoresheje telefone yawe ngendanwa, bityo bikakurinda kugendana amafaranga mu ntoki, byagutera kuyabura, bikagufasha kwishura neza nta mafaranga menshi ukaswe.

Ahantu henshi mu gihugu, cyane cyane mu mujyi wa Kigali, hashyizwe imitaka y'umuyoboro wa emutiyeni, aho baba bacururiza amatelefoni cyangwa ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga by'umuyoboro wa emutiyeni, biba bicuruzwa ku giciro cyiza. Ukiguze ahabwa n'igihembo.

Umuyoboro wa emutiyeni wagiye ushyira abakozi ba bo mu duce dutandukanye mu gihugu aho bafasha abaturage muri serivise zinyuranye, ku muyoboro wabo yaba kubitsa amafaranga cyangwa kubikura, gufunguza imibare bashobora kwishyuriraho, mugihe hari abacuruzi, abakiliya babishyura amafaranga yabo nabyo byose barabibafasha.

Abantu benshi bakora imishinga itandukanye, yaba ubucuruzi cyangwa gutanga serivise zitandukanye , bashyizeho uburyo bworoshye bwo kwishyura, yaba gukoresha simukadi cyangwa ugakoresha konti yiwe ya banki, byaroroshye ushobora kwishyura ibyo wahawe bitagusabye gutwara amafaranga mu ntoki .

Kumanywa ututuzu dukunze gukoreramo abakozi b'umuyoboro wa emutiyeni bakunze kuba bambaye udupira tw'umuhondo, cyangwa amajire ariho ibyapa byamamaza umurongo wa emutiyene wabagana igihe cyose ufite ikibazo k'umuyoboro wa emutiyene bakaba bakigufashamo ukaba wagikemurirwa ntakibazo.

Aha ni ku cyicaro cy'umuyoboro wa MTN aho ushobora gusanga serivise zinyuranye ku muyoboro wa MTN cyangwa bakaba bagukemurira ikibazo waba ufite ku muyoboro, aho banacuruza telefone bitewe nuko ukoresha umuyoboro bakaguha telefone ikugenewe uzashobora kwishyura mugihe cyagenwe.

Ubu ntibikiri ngobwa kugendana amafaranga mu ntoki kuko hashyizweho uburyo bwiza bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga yaba uwo wahaye serivise zinyuranye cyangwa aho waguriye ibicuruzwa bitandukanye, icyo ukora ni ugushyiramo nimero nkuko zanditse ku kapa kagenwe ukaba washyiramo umubare w'amafaranga n'umubare w'ibanga ukaba wamwohereza amafaranga ukeneye kumwishyura.

Hari abakozi bakorana n'umuyoboro wa emutiyeni bagiye bari ahantu henshi hagiye hatandukanye mu gihugu hashyiriweho gufasha abaturage, ibibazo baba bakemura gukemura bitabafashe kujya ku kicaro aho waba uri hose urababona bakaba ikibazo cyose waba ufite ku muyoboro wabo wa emutiyeni.

Aka ni akazu gatangirwamo serivise ku mu yoboro wa Mtn aho ushobora kugurura simukadi ukaba wanayibaruzaho mu buryo bworoshye ubifashijwemo n'umuntu agakoreramo akagukemurira ibibazo byose wifuza mu buryo bworoshye.

Umuyoboro wa eyeteli ufite ibyicaro bitandukanye mu gihugu, aho ushobora kujya bakagufasha serivise zitandukanye, yaba kugura simukadi nshyashya cyangwa n'ibindi bitandukanye ku muyoboro wa emutiyeni, nko kubitsa amafaranga cyangwa kuyabikuza, byose barabigufasha.

Ushobora kwishyura byoroshye service ahawe cyangwa ibicuruzwa waguze ahari utu twapa twose tw'imiyoboro wa MTN, aho ushobora kwishyura ukurikije amabwiriza ugashyiramo iyo mibare wahawe, ukunze kuba ibaruwe ku mucuruzi cyangwa izina ry'iduka bitewe n'aho wabiguze.

Hari uburyo ubwiza bwashyizwe mu duce dutandukanye mu gihugu dukorana n'imiyoboro wa MTN, aho ushobora kubagana ukeneye kubitsa cyangwa kubikura amafaranga, koherereza umuntu amayinite cyangwa ukaba wamwoherereza amafaranga cyangwa mu gihe ukeneye kugura amayinite ku giti cyawe, byose barabigufasha.

Umucuruzi uri kwishyura ibicuruzwa yahawe cyangwa serivise yahawe zinyuranye akoresheje imibare y'umucuruzi imubaruyeho aho ashyiramo umubare w'umucuruzi, akaba yashyiraho umubare w'amafaranga agomba kwishyura agashyiramo umubare w'amafaranga agomba kwishyura umucuruzi akayamwohereza akamugeraho ntakibazo.

Ukeneye serivise ku muyoboro wa eyateli aho waba uri hose mu gihugu, cyangwa gukemura ikibazo ku murongo wa eyateli, wagana abakorera mu mitaka cyangwa mu tuzu twa eyateli, bakaba bagufasha gukemura ikibazo, yaba kubijyanye no kubika amafaranga, cyangwa kuyabikura cyangwa kugura amayinite, byose babigufashamo mu buryo bwiza.

Aha ni mu masoko, aho ushobora kugurira ibicuruzwa bitandukanye, yaba ibiribwa cyangwa ibinyobwa, yaba ibikomoka ku buhinzi, nk'imboga cyangwa imbuto wabisanga muri aya masoko, kandi wakwishyura wifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga.

Umuyoboro wa Airtel ukurikira umuyoboro wa MTN mu gutanga serivise zikoranabuhanga zikorerwa kuri terefone yaba kugura amayinite, kubitsa amafaranga no kuyabikuza no kuba wakura amafaranga kuri banki uyashyira kuri terefone ngendanwa muburyo bwiza bwo kugufasha kwishyura ibyo uhabwa nta kibazo ahantu hose.

Aba ni abakozi b'umuyoboro wa MTN, bagamije kwamamaza ibijyanye natombora ziri mu muyobora wa MTN, bibutsa abantu ibyo bashobora gutsindira mu izo timbora, babasusurutsa, kandi babagezaho imyidagaduro mu buryo bwiza, mu buryo bwo kubasusurutsa no kubibutsa ibiri mu iyo tombora byose bashobora gutsindira.

Umuyoboro wa emutiyene wagenye utwapa dushobora kwishyuriraho ibicuruzwa cyangwa serivise uhawe ukoresheje ikoranabuhanga, aho bitakiri ngombwa kujyana amafaranga, icyo ukora ni ugushyiramo akanyenyeri ijana na mirongo inane na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe, ugashyiramo imibare y'umucuruzi, ugashyiraho urwego, amafaranga ukeneye kwishyura, umubare w'ibanga ukemeza akamugeraho.

Aha ni ahazwi nko ku cyicaro cy'umuyoboro wa emutiyeni, aho abakiliya benshi bagana bakeneye gukemurirwa ibibazo baba bahuye na byo, haba uwayobeje amafaranga cyangwa uwayibwe n'abatubuzi bagutekeye umutwe ukaba wayabaha, hose urabagana bakabigukemurira n'ibindi byose binyuranye nko kugura simukadi nshyashya wataye cyangwa wibwe.

Abacuruzi cyangwa abakorana n'umuyoboro wa MTN. bose, iyo bakeneye ibisubizo bihagije kubibazo byabo, bagana ibyicaro by'umuyoboro wa MTN, niho haba hari abakozi b'inzobere baba bashobora kubakemurira ibibazo byose baba bafite, Yaba ibijyanye n'umuyoboro cyangwa amafaranga baba bayobeje, n'ibindi binyuranye byose barabibafasha.

Umuyoboro wa Myn washyizeho uburyo bworoshye n'abantu bahagize bo gutanga serivise za Mtn yaba kubifuza kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga, kugura amayinite n'ibindi binyuranye, bagafasha n'abacuruzi kubaha imibare yo kubishyuriraho mu buryo bworoshye kandi bashyizeho ibihembo bitandukanye kubakoresha umuyoboro wa Mtn akenshi.

Serivise zose waba ukeneye k'umuyoboro wa emetiyene ushobara kuzifashwa n'umuntu uwo ariwe wese ukorera mu kazu cyangwa mu mutaka ku muhanda ashobora kukubikira amafaranga, kukubikuriza cyangwa koherereza umuntu amafaranga aho yaba ari hose. Ushobora no kuhagurira amayinite akagufasha no muzindi serivise zose z'umuyoboro wa emutiyeni cyangwa ikibazo waba ukeneye bakagukemurira icyo aricyo cyose.

Utuzu tuzwi nk'amakiyosiki dukorerwamo n'abakozi ba emutiyeni, dutanga serivise kubakiriya babagana yaba kubitsa amafaranga cyangwa kuyabikura n'ibindi byose binyuranye nko kugura amayinite barabigukemurira mu buryo bwiza kandi bworoshye.

Aho waba uri hose mu gihugu, wifuza serivisi ku muyoboro wa emutiyeni wagana abantu babifitiye uburenganzira bagufasha mu byo waba ukeneye bitandukanye, yaba kubitsa cyangwa kubikura amafaranga, cyangwa izindi serivisi ku muyoboro wa emutiyeni, zose babigufashamo mu buryo bwiza.

Aba ni abamamaza umuyoboro wa emutiyene bagatanga n'ubukangurambaga ku muyoboro wa aho bashishikariza abantu benshi gukoresha umuyoboro wa emutiyene, kuko harimo ibihembo binyuranye ku bawukoresha cyane kuko baba baragenewe ibihembo nk'abakiriya b'imena.

Abantu benshi batekereje serivise z'umuyoboro wa emutiyene bakikije akazu zitangirwamo, aho baba bakeneye gufashwa ibintu bitandukanye, yaba kubitsa amafaranga no kuyabikuza cyangwa gukemurirwa ibibazo bitandukanye bagize ku muyoboro wa emutiyene, yaba kubura simukadi cyangwa kugura inshyashya.

Abakozi b’umuyoboro wa MTN bari ahantu henshi mugihugu bari mu mahugurwa yo gufasha abakiriya babo babagana mukubakemurira ibibazo n’ibindi binyuranye byaba ibijyanye n’umuyoboro cyangwa ibindi byose baba bifuza gukemurirwa yaba gukorerwa ama simukadi cyangwa abakora ibikorwa bitandukanye k’umuyoboro wa MTN barabafasha.

Aho waba wagiye kugurira hose ibyo waba ukeneye cyangwa kwaka serivise zitandukanye, hashizweho uburyo bworoshye bw'umuyoboro wa MTN, aho ushobora kuba wakwishyura ukoresheje telefoni, amafaranga ari kuri telefoni yawe ukaba wayishyura kuri nimero zagenwe ushobora kwishyuriraho ibyo wafashe zashyizweho n'iduka cyangwa aho wakiye serivise.

Umuyoboro wa emutiyene washyizeho uburyo bwinshi ushobora kwishyura, ibicuruzwa waguze, cyangwa serivise zose wahawe, mu gihe ugiye kwishyura uwagutwaye ku rugendo , cyangwa n'ibindi byose binyuranye ukoresheje ikoranabuhanga, abakora umwuga uga yo gutwara abantu ku mapikipiki nabo babashishikarije kuba bakwishyurwa bakoresheje ikoranabuhanga, abenshi bafite imibare wabishyuriraho igihe bagutwaye.

Abakorera mu tuzu dutoya tw'imiyoboro ya MTN,bafasha abaturage ibikorwa bitandukanye byaba ibibazo bagize cyangwa se serivisi bifuza mu kubitsa amafaranga cyangwa kubikuza amafaranga cyangwa igihe yayobeje amafaranga, akaba yamufasha kuyafunga akaba yamugarukira mu gihe cyagenwe aho kugirango ayobe ajye kuwundi ayakoreshe.

Utuu dutangirwamo serivise z'umuyoboro emutiyene, tuje turi ahantu hatandukanye ,gihugu, yaba mu mugi wa Kigali cyangwa mu ntara, ukeneye serivize zijyanye n'umuyoboro wa emutiyene wabagana, yaba kubitsa cyangwa kubikura amafaranga n'ibindi bibazo waba wagize byose ushobora kuhagura amayinite cyangwa bakaba bagufasha mu koherereza umuntu amafaranga mutegeranye ukoresheje ikoranavbuhanga.

Umuyoboro wa MTN, umaze gushishikariza abantu benshi bakora imyuga itandukanye isabwa kwishyurwa ko hashyiho uburyo bwiza bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, babaha utwapa turiho nimero ushobora kwishyiriraraho ibyo wahawe, haba hariho imibare itandatu cyangwa irenga ibaruye ku mucuruzi cyangwa ku izina ry'iduka, ibyo ukeneye barabiguha ukaba wakwishyura ukoresheje izo nimero ukishyura kuri Telefone yawe ngendanwa.

Umuyoboro wa emutiyeni ukomeje gufasha abakiriya babagana, yaba abashaka gutangira gukoresha umuyoboro wa emutiyeni bagura amasimu kadi, abashaka gukemura ibibazo, yaba ibyo kwishyura cyangwa kohereza amafaranga ku bantu batandukanye, n'ibindi bibazo byose nko kwibagirwa umubare w'ibanga, byose barabigufasha.

Umuyoboro wa emutiyene ukomeje gufasha abakiriya babo muri serivise zitandukanye, yaba kuba wabaha imibare ku mucuruzi ucuruza, bashobora kumwishyuraho mu buryo bworoshye, cyangwa ukeneye indi serivise yose, urabagana bakaba bazigufashamo, ku muyoboro wa emutiyene.

Umuyoboro wa MTN wafunguye ibyicaro byinshi mu gihugu, aho ushobora kubagana bakaguha serivise zose wifuza cyangwa bakagukemurira ibibazo byose waba ufite kumuyoboro wa MTN; waba wayobeje amafaranga cyangwa ukeneye kwishyura ibintu bigiye binyuranye, byose barabigufasha.

Hari uburyo bwiza umuyoboro wa emutiyeni washyizeho buzwi nka momo peyi cyangwa ukaba wakoresha apulikasiyo ya bo yabugenewe, aho ushyiramo imibare y'umucuruzi ukaba washyiramo umubare w'amafaranga n'umubare w'ibanga ukaba wamwishyura ibyo yaba yaguhaye byose yaba serivise cyangwa ibicuruzwa waguze.

Ahantu hose waba uri mu gihugu byaroroshye aho umuyoboro wa emutiyeni wagiye ushyiraho ikicaro ahantu hose hatandukanye, n'abakozi babo ku mihanda inyuranye, aho ushobora gukemurirwa ibibazo waba wagize ku muyoboro wa emutiyeni bitagusabye kujya kure kuko abakozi bari ahantu hose kandi bagukemurira ibyo waba wifuza ko bagukemurira byose.

Abakozi b'umuyoboro wa MTN, bakomeje gufasha abakiriya babo bose babagana, bakemurira ibibazo byabo baba bagize binyuranye, nko kubitsa amafaranga cyangwa kubikuza cyangwa kwibaruzaho imiyoboro mishyashya, kugura amasimukadi mashyashya yo kwifashisha mu mirimo yabo ya buri munsi.

Akazu gatoya ka emutiyeni, gatangirwamo serivise zinyuranye: aho ushobora kubitsa amafaranga cyangwa ukayabikuza, kugura amayinite, n'izindi serivise zose za emutiyeni; wabisanga ku muntu ukorera muri ako kazu, yabigufashamo mu buryo bworoshye, bitagusabye kujya ku cyicaro cyabo.

Ubu ntibigisaba kujya ku kicaro cy'umuyoboro, kuko hashyizweho abantu benshi, kereka bitewe n'ibibazo ufite ku murongo wa MTN, kuko abantu aho bari mu duce tugiye tudandukanye, aho dutuye, bagukemurira ibibazo bya MTN, yaba kubitsa cyangwa kubikuza, n'ibindi bitandukanye, nko kugura amainite, n'ibindi.

Umuyoboro wa Emutiyene, ufite ibyicaro ahantu hagiye hatandukanye hose mu gihugu, aho ushobora gusanga serivise waba wifuza zose ku muyoboro, yaba kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga, cyangwa kugura simukadi nshyashya, cyangwa guhindura umuyoboro wawe uwikuraho uwushyira ku muntu runaka utandukanye, byose babigufashamo mu buryo bworoshye.

Aha ni mukicaro cy'umuyoboro wa MTN,aho ushobora gusanga serivisi zose waba ukeneye ku muyoboro wa MTN bakaba bakigukemurira muburyo bwiza. Aha hatangizwa serivisi zinyuranye nko kugura simu kadi nshyashya cyangwa gukemura ibindi bibazo bitandukanye yaba gukura umuntu ku muyoboro wawe ushyiraho undi byose barabigufasha kuburyo bwiza.

Ahacururizwa ibintu byose binyuranye, umuyoboro wa emutiyene washyizeho uburyo bwiza bworoshye bwo kwishyura ibyo wahawe yaba imyenda, ibiribwa n'ibindi bitandukanye ushobora kwishura ukoresheje terefone yawe ngendanwa, ukuruye amafaranga kuri banki ukayashyira kuri terefone yawe ukishyura ukoresheje umuyoboro wa emutiyene ukaguha ubutumwa bugufi ukabwereka uwo waguriye ibicuruzwa, bakaba bakureka ukajyana ibicuruzwa wahawe.

Vuba vuba umushinga waje mbere wo kugemurira ibiryo abantu aho batuye ukaba arinawo wabanje kumenyekana cyane ufasha mukugemurira ibiryo bivuye muma resitora babishyira abakiriya babo babitegurishije kugiciro kiza ntaguhendwa kurimo.

Ubu hashyizweho uburyo bworoshye aho ushobora guhaha ibicuruzwa wifuza bitagusabye kujya mu isoko kubishaka, icyo ukora ni ukujya muri murandasi, ukaba wahitamo ibicuruzwa wifuza, ukabyishyura bakaba babikugezaho mu rugo amahoro bitagusabye kujya kubishaka shaka.

Igihe umaze gutumiza ibiryo kuri resitora babikujyemurira bamuha aderese z'aho utuye kuburyo akoresheje telefone ye imuyobora kugeza ageze ku rugo rwawe, akabikugezaho nta kibazo na kimwe cyavutse ku gipangu cyawe ukaba wabyakira.

Hari uburyo bwiza ushobora kubonaho serivise zose waba wifuza yaba imyenda, cyangwa izindi serivise zinyuranye ibicuruzwa bitandukanye yaba iby'ikoranabuhanga nibindi byose ushobora kubisanga kuri izo mbugankoranyambaga zicuruza ibintu binyuranye, bitagusabye kujya kumasoko abicuruza.

Icyapa cyamamaza aho ushobora kubona ibicuruzwa waba ushaka yaba imboga, imbuto n'ibindi byose bitandukanye ku giciro cyiza, ukaba wabibona aho waba uri hose mu masoko agiye anyuranye ari mu gihugu, n'ahandi hose bicururizwa.

Vuba Vuba yashyizeho uburyo bwiza, aho ushobora gutumiza ibintu bitandukanye, yaba ibikoresho bya ikoranabuhanga, ibiribwa bitetse cyangwa ibidatetse, icyo ukora ni ukubigura, ukuzuza imyirondoro yawe, ugashyiraho aho utuye, bakaba babikugezaho murugo bitagusabye kujya kubihaha.

Usibye no kuba bakugemurira ibiribwa, hari n'ibikoresho by'ikoranabuhanga ushobora kugura bitewe n'aho wabiguriye, bakaba babigusanyisha mu rugo ku giciro cyiza, icyo ukora ni ukubyishyura ugatanga aderese yaho utuye bakaba babikugezaho mu rugo bitagusabye kujya kubigurira aho babicururiza.

Hari imishinga myinshi yaje mu gihugu cy'u Rwanda, aho ushobora gutumiza ikintu icyaricyo cyose kikaba cyakugeraho amahoro, yaba ibiribwa cyangwa ibinyobwa, ibikoresho bitandukanye byo mu rugo, imyambaro n'ibindi byose bitandukanye, icyo ukora uraciririkanya ibiciro, ukishyura bakaba babikugezaho mu rugo bitagusanbye kujya kubigurira aho bicururizwa.

Hashyizwe ho uburyo bwiza bwo kwamamaza amaresitora n'ahandi hatandukanye bacuruza ibiribwa cyangwa ibinyobwa, aho ushobora kubagana, bakaguha ibyo wifuza, ku giciro kiza kinogeye buri wese, uko ibikora ujya kuri murandasi, ugahitamo ibyo ushaka n,aho biva ukaba wabagana bakabiguha ku giciro kiza.

Ubu si bikiri ngombwa kujya ku masoko ahacururizwa ibintu bitandukanye kuko byorohejwe kubera ikoranabuhanga, ibicuruzwa byose waba wifuza ubisanga ku mbuga nkoranyambaga n'ibiciro byabyo, nawe ushobora gushyiraho ibyo ucuruza ukaba wabishakira abakiriya bitagusabye kubyamamaza ugenda ubyikoreye aho ugiye hose.

Har'uburyo bwiza ushobora gutumizamo amafunguro, kw'ikoranabuhanga ukoresheje imbuga nkoranyambaga zabugenewe. Aho utumiza ibyo ushaka bakaba babikugemurira mu rugo, ku buntu nta kiguzi bakwishyuje, icy'ukora wishyura ibyo watse ugatanga n'imyirondoro, bakabigusangisha mu rugo.

Hari uburyo bw'ikoranabuhanga ushobora kureberaho ibyo ushaka, yaba inzu, ibicuruzwa, cyangwa aho ushaka gukodesha, yaba ibiribwa cyangwa ibinyobwa, n'ibindi byose wakenera byagufasha mu buzima bwa buri munsi, wabibona ku izo mbuga zicuruza ibintu binyuranye.

Ushobora kugurira imyambaro ku mbuga nkoranyambaga n'ibindi byose wifuza kuko hari imbuga zitandukanye biba byarashyizweho mu buryo bwiza bwo kwamamaza hariho n'ibiciro byabyo bikunze kuba bikorera mu mahanga ariko ntakibazo kuko iyo ubiguze bashobora no kubikugezaho mu guhugu cyose waba utuyemo.

Aha ni ahazwi nko ku iposita aho ushobora kohereza ubutumwa ku muntu uri mu mahanga, icyo ukora ni uko ugushyiraho imyirondoro ku bintu ukeneye kumwoherereza bikaba byamugeraho amahoro cyangwa ibyo akoherereza ukaba wabyakira hano ku iposita, cyangwa bakabikugezho bitewe n'imyirondoro wamuha ye y'aho utuye.

Vuba vuba umushinga umaze kumenyeka mu kugemurira ibiribwa abantu aho batuye, yaba ibitetse cyangwa ibidatetse, icyo ukora ni ugutumiza ibiryo kuri resitora aho uba wahisemo babigutunganyiriza, bakaba babikugezaho mu rugo aho utuye, icyo ukora ni ukubabwira aho utuye bakabikugezaho mu rugo.

Ushobora kugurira ibicuruzwa kuri murandasi, ibyo wifuza ibyo ari byo byose, mu ngano zitandukanye, yaba ibiribwa cyangwa ibinyobwa, bitewe n'ibyo ukeneye uhitamo amapaki bashobora kuba bakuzanira, n'ingano yibyo ukeneye, bakabikugezaho mu rugo, cyangwa ukaba wajya kubigura aho bicururizwa, uzi neza ko babifite.

Ubu byaroroshye, ibyo waba ukeneye byose wabibona, ukoresheje ikoranabuhanga, usura imbuga zitandukanye, ukaba wabatuma ibyo wifuza, yaba ibikoresho by'ubwiza, ibiribwa cyangwa ibinyobwa, n'ibindi byose binyuranye, ukaba wabatuma cyangwa ukajya kubireba uzi igiciro cyabyo wabiguriraho.

Hari uburyo bwinshi bw'ikiranabuhanga, aho ushobora kugurira ibintu kuri murandasi, yaba ibikoresho byo mu rugo, yaba ibiribwa cyangwa imyambaro, n'ibindi byose bitandukanye waba wifuza, ushobora kubisanga kuri izo mbuga nkoranyambaga zibicururizwaho ukaba wacuririkanywa ibiciro, bakabikugezaho mu rugo amahoro.

Hari uburyo bwiza bw'ikoranabuhanga ushobora kuguriraho ibicuruzwa bitandukanye cyangwa ukaba wacururizaho ibyawe, yaba amasambu, amazu cyangwa akazi cyangwa waba ukeneye akazi bakaba bakabona bakoresheje izo mbuga, ukaba washakiraho ibyo ukeneye byose, yaba ibiribwa cyangwa ibinyobwa n'ibindi byose bitandukanye ukeneye guhaha.

Ubu hari uburyo bwonshi ushobora gucururizwaho cyangwa ukagurira ibicuruza bitandukanye, yaba ibijyanye n'ikoranabuhanga, nk'amaterefone, amasharijeri, cyangwa imyambaro n'ibikapu binyuranye, ukaba wabitumuza kuri murandasi ku biciro byiza yaba ibiri mu mahanga cyangwa ibiri mu gihugu.

Abacuruza ibirimwa mu maresitora cyangwa ahandi hose hatandukanye bakorana n'abatwara amapikipiki bashobora gushyikiriza ibicuruzwa abakiriya aho baba batuye hose icyo ukora ni ukubitumiza bakaba babiha iryo pikipiki ikabikugezaho mu rugo.

Abacururiza ku ikoranabuhanga bashyiriweho uburyo bwiza iminsi mikuru aho ibiciro byamanuwe ku bakiriya babo, kuko ushobora kugura ibicuruzwa ku giciro kinogeye buri muntu yaba ibiribwa cyangwa ibinyobwa n'ibindi byose waba wifuza ibiciro biba byahananuwe mu minsi mikuru nk'uburyo bwiza bwo gutangira umwaka mushya wishimiye kandi unezerewe.

Hashyizwe ibyiciro bwinshi mu mujyi wa kigali aho ushobora gusanga amaduka akorera kuri murandasi ushobora kujyaho mu gihe bagize ikibazo cyo gutuma ibintu bitandukanye bikaba byakugezeho mu rugo, ukaba wagerayo ukabereka ko wabyishyuye bakaba babigura.

Abantu benshi bakunze guhahira ibikomoka ku buhinzi mu masoko yabugenewe acuruza imboga, imbuto n'ibindi byose bikomoka ku buhinzi n'ubworozi nk'inyama cyangwa ibindi byose bitandukanye.

Mu mujyi wa Kigali hari amaduka menshi ategura ibiribwa. Bafite amapikipiki abikugemurira aho waba uri hose mu rugo. Iyo uyikeneye icyo ukora ni ukubahamagara, ukababwira ubwoko bw'ibiribwa ukeneye. Barabikugemurira bakabikugereza mu rugo, icyo ukora ni ukubabwira aho utuye.

Mu Rwanda hari uburyo bwinshi bwo gutwara abantu n'ibintu ku mapikipiki, aho ushobora gutega umuntu akaba yagutwara akakugeza mu rugo amahoro cyangwa ibyo utumije byose bakaba babiha ipikipiki, ikaba yabikigezahp mu rugo ntakibazo na kimwe kivutse.

Yego ni umushinga wo gutwara abantu n'ibintu ku mapikipiki, aho ushobora kumuha ibintu akaba yabigushyirira umuntu nta kibazo kivutse, ukabyoherereza umuntu bitewe n'aho utuye, bikaba byamugeraho nta kibazo.

Umushinga wa vuba vuba ntugemura ibiryo byonyine bitetse ahubwo ibyo waba ukeneye byose babikugezaho murugo yaba imboga n'imbuto nibindi byose bitandukanye babikugezaho murugo aho waba uri hose kugiciro kiza, icyo ukora nugutuma ibyo ukeneye bikakugeraho murugo amahoro ntakibazo.

Hari uburyo bwiza bw'ikoranabuhanga, aho ibicuruzwa bicururizwa kuri Murandasi, ukaba wahahira imboga n'ibindi byose ukeneye nk'imbuto, n'ibindi binyuranye bakaba babikugezaho mu rugo, ku giciro kinogeye buri wese ukaba wabitunganya ukabirya bitagusabye umwanya wo kujya kubihaha aho bicururizwa.

Ushobora gutumiza ibiryo aho waba uri hose, bikagusanga mu rugo, icyo usabwa gukora gusa ni uguhitamo ibyo ukeneye bakugezaho ukaba awareba ibiciro ukishyura hanyuma bikagusanga mu rugo, bitagusabye kubireba aho wabigurira aho ari ho hose.

Mu gihe utumije ibicvuruzwa bitandukanye ku mamodoka atandukanuye, barabigutunganyiriza bakabigupakirira nk'uko ubyifuza, bakaba bakubaza aho utuye, bakaba babikugezaho mu rugo nk'uko ubyifuza bitagusabye kujya kubirebera aho babicuruza, bakabigusangisha mu rugo nta kibazo.

Ubu ni uburyo bwashyizweho bworoshe bwo gucuruza ibicuruzwa ku ikoranabuhanga, bwashyizweho aho ushobora kugurira ibicuruzwa bitandukanye mu buryo bworoshye wowe icyo ukora ni ugushaka ibyo ukeneye ukabihitamo ukareba ibiciro ukaba wabigura bakabikugezaho mu rugo.

Kubera ikoranabuhanga, ibintu byinshi byaroroshye, aho ushobora kugurira ibintu kuri murandasi, icyo ukora ni uguhitamo ibyo ushaka ukareba ko ibiciro bikunyuze, ukaba wabitumize cyangwa ukabigura bitagusabye kujya mu rugo, aho waba uri hose, wuzuza imyirondoro baka bigusangisha aho utuye.

Mu Rwanda hashyizwe ho uburyo bworoshye, aho ushobora kugurira ibicuruzwa wifuza kuri murandasi, bitagusabye kujya kubishakashaka, icyo ukora ni ukureba ibyo wifuza n'ibiciro byabo, ukaba wabituma ku biciro kiza kinyuriye buri wese bikakugera ho amahoro mu rugo.

Ubu ntibikigoye byaroroshye aho ushobora gutumiza ibiribwa cyangwa ibinyobwa n'ibindi bikoresho byose waba ukeneye, ukaba wabigura ukoresheje ikoranabuhanga ukabigura kuri murandasi bikaba byakugeraho murugo bitewe n'aho iryo duka rikorewe cyangwa ibiba kure ukaba wakwishyura ay'urugendo bakabikugezaho.

Mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, hari uburyo bwinshi ushobora kuguriraho ibicuruzwa bitandukanye yaba ibiribwa n'ibindi byose waba wifuza bikaba byagusanga mu rugo, icyo ukora ni uguhitamo ibyo wifuza n'umubare w'ibyo ukeneye, bakaba babikugezaho mu rugo ukabyishyura bikugezeho.

Uburyo byinshi kandi bwiza bunogeye buri muntu wese waba ufite ikoranabuhanga rya telefone, aho ushobora gutuma cyangwa ukagurira ibicuruzwa bitandukanye yaba imyambaro, ibiribwa n'ibindi byose wifuza ukabigurira kuri murandasi bakabigusangisha mu rugo aho utuye.

Amaresitora menshi yasizeho uburyo bworoshye, aho ushobora gutumiza ibiribwa wifuza, bakaba babigusangisha bakoresheje amapikipiki yabo yabugenewe , atwarwa n'abagabo cyangwa abagore, bakabikugezaho mu rugo bitagusabye kujya aho babikorera bakabigusangisha mu rugo ukaba wakwiyakira bitagusabye kujya kubigurira aho biba.

Hari amapikipiki menshi ari mu mujyi wa Kigali, akora umushinga wo kugemurira abantu ibiribwa n'ibindi bikoresho bitandukanye, yaba ibyo waguze ku ikoranabuhanga cyangwa ahandi hose waba wabiguze, ushobora kuzana ibiribwa, ibikoresho cyangwa imyambaro itandukanye, bakayikugezaho mu rugo nta kibazo, icyo ukora ni ukwishyura ibyo bicuruzwa no kwishyura ay'urugendo bakabikugezaho mu rugo, hari n'ahantu henshi hatandukanye ushobora kugurira ibintu bakaba babikugezaho mu rugo ku buntu. e e

Hari uburyo bw' ikoranabuhanga ushobora kuguriraho ibicuruzwa bitandukanye mu mujyi wa Kigali aho ureba ko hari ibicuruzwa wifuza cyangwa ibikoresho wifuza n' ibiciro byabyo ukaba wabitumiza ukabigura ku giciro kiza.

Mu Rwanda cyangwa ahandi hose hashyizweho uburyo bwiza, aho ushobora kugura ibicuruzwa bitagusabye kujya mu maduka, icyo ukora ni ukujya ku mbuga nkoranyambaga ugahitamo ibyo wifuza, ukaba wabigura bitagusabyebye kujya kubishakashaka mu maduka agiye atandukanye.

Uburyo bworoshye ushobora guraho ibicuruzwa bitandukanye bikaba byakugeraho mu rugo bitwawe n'amapikipiki yagenewe kugemurira ibyo bicuruzwa ku bakiriya babiguze, iyo umaze kubyishyura utanga imyirondoro yawe bakaba babikuzanira mu rugo aho utuye.

Ubucuruzi bwo ku ikoranabuhanga bworoheje ibintu byose, yaba ukeneye kugura, kugurisha, cyangwa kwamamaza ibicuruzwa bye, yabishyira ku izo mbuga, ubyishimiye cyangwa ubikeneye akaba yabigura bitamusabye kujya kubishaka ku masoko anyuranye akabigurira aho yaba ari hose yicaye.

Hari amaduka menshi akorana n'ikoranabuhanga, aho ushobora kugurira inkweto zifunguye zikorerwa mu Rwanda, ku giciro cyiza kinogeye buri umuntu. Bakaba banazikuzanira mu rugo aho utuye, nk'uburyo bwiza bwo guteza imbere ibicuruzwa bikorerwa mu Rwanda, imyambaro cyangwa ibindi bitandukanye.

Abantu bensho bakora umwuga wo kugemurira ibiribwa abantu mu rugo bakorana n'amaresitora agiye atandukanye batwara amapikipiki, mu kugemurira ibiribwa bikagusanga mu rugo, icyo ukora ni ukubwira resitora ibyo bagushyikiriza bakaba babiha uwo utwara ipikipiki akabikugezaho mu rugo.

Ku bucuruzi bw'ikoranabuhanga ntihabaho ibiryo gusa kuko imbuga zigiye zitandukanye ushobora kuhasangaho ibikoresho byo mu rugo, ibinyabiziga n'ibindi byose binyuranye , yaba amasambu, cyangwa amazu ari ku isoko byose urabihasanga. Ibyo waba wifuza byose wabibona kw'izo mbuga zicuruza ibintu bunyuranye.

Hari ibitaramo cyangwa ibindi birori bibera mu mujyi wa Kigali, aho ushobora kugenda ukishimana n'inshuti zawe, mugasusurutswa n'abahanzi n'abandi bose banyuranye, igihe usanga byaratewe n'inkunga n'inganda zitegura ibinyobwa bitandukanye, nka mitsingi ikorwa mu ruganda rwa buralirwa, ikunze kuba umuterankunga w'ibitaramo bigiye bitandukanye.

Mu Rwanda hari amasoko menshi atandukanye acuruza ibiribwa yaba imboga, imbuto n'ibindi byose bikomoka ku buhinzi kuburyo ushobora kuhagana, cyangwa ukabigurira ku mbugankoranyambaga bitewe n'ibiro ukeneye bakaba babigupimira bakabigusangisha mu rugo.

Hari uburyo bwiza bw'ikoranabuhanga ushobora kuguriraho ibiribwa uhisemo ingano yibyo ucyeneye ubona igiciro ukaba wakwishyu bakabikujyeho mu rugo wujujemo imyirondo yaho utuye bakabikujyezaho ukaba wabifata ukabikoresha mu rugo.

Mu Rwanda hari uburyo bwinshi ushobora kugurishaho ibicuruzwa byawe cyangwa ukaba waguriraho ibyo wifuza bitagusabye kujya gushaka mu mu masoko, kuko murandasi yabyoroheje uhitamo ibyo ushaka ukaba wajya kubigura uzi aho bicururizwa n'ibiciro byabyo.

Ubu bashyizeho uburyo bworoshye aho ushobora gutumiza ibicuruzwa byose wifuza, yaba ibikoresho cyangwa ibindi binyuranye, icyo ukora ni uguhitamo ibyo ukeneye ukishyura bakaba babikugezaho mu rugo aho utuye, babifashijwemo na serivise ya vuba vuba, igemurira ibintu abaturage aho batuye hose.

Abakozi bakorana n'imbuga zicururiza kuri murandasi, bahawe akazi ko kwamamaza no gushakira abakiliya ayo maduka bakorera aho ubagana bakakwereka uburyo bwo kuhagurira ukaba wabagurira bagashyiraho n'ibihembo bitandukanye kubabashyiriye abakiliya, cyangwa abahaguriye.

Yaba ukeneye ibiribwa cyangwa ibinyobwa, n'ibindi bikoresho bigiye binyuranye, yaba ibikorerwa mu gihugu cyangwa ibiva muri Amerika, mu Bushinwa cyangwa Dubayi, hashizweho uburyo bwiza ushobora kubitumizaho kuri murandasi, bikangusanga aho waba uri hose mu gihugu icyari cyo cyose.

Hari uburyo bwiza bwo kugura ibicuruzwa ukeneye yaba iby'ubwiza, ibikoresho byo mu rugo, ibikoresho by'imisatsi, ibikapu, inkweto, n'imyenda n'ibiribwa ibyaribyo byose waba ukeneye, wabisanga kuri aya maduka akorera kuri murandasi, ugahitamo ibyo ushaka bakaba babikugezaho.

Abantu benshi bagiye mu mwuga wo kugemurira ibiryo abantu aho batuye mu ngo, yaba ibiryo bitetse cyangwa ibidatetse, icyo ukora ni ukubitumiza ku maresitora anyuranye, bakaba babikugezaho mu rugo, bitunganye, ku buryo wabifata nk'amafunguro, bitagusabye kubitunganya wowe ubwawe.

Utubari twinshi turi mu mujyi wa Kigali, mu minsi mikuru dukunze gutegura ibitaramo, biba birimo abahanzi banyuranye bibafasha gususurutsa abakiriya babo babaganye, bakaba bamanuye n'ibiciro by'ibinyobwa n'ibiribwa bihabwa utwo tubari kugira bibafashe gususurutsa abakiriya babo no kubanezeza mu gihe cy'iminsi mikuru.

Mugi wa Kigali hashyizweho uburyo bworoshye aho ushobora gutumizaho ibintu wifuza byose bakaba babikugezaho mu rugo aho utuye, icyo ukora ni uguhitamo ibyo ushaka no mu ngano ubishakamo, yaba imyenda, cyangwa ibiribwa, n'ibindi binyuranye, ukuzuza imyirondoro yawe bakabigusangisha aho utuye.

amapikipiki menshi, afite udusanduku inyuma cyangwa ibikapu atwarwa n'abantu bambaye utupira dusa nk'ayo masanduku cyangwa ibikapu, bakora umwuga wo kugemura ibiryo mu ngo, n'ahandi hose bivuye mu maresitora babitumyeho bimaze gutunganwa, bakababwira abo batwara ayo mapikipiki, bakabigeza ku babikeneye.

Hari uburyo bw'ikoranabuhanga ushobora kuguriraho ibicuruzwa byose waba wifuza, yaba mudasobwa cyangwa imyambaro n'ibindi byose bitandukanye ushobora kubibona ku izo mbuga ku biciro bitandukanye ukaba wahitamo ibyo wifuza bikunogeye bitewe n'amafaranga waba ufite.

Ubu byaroroshye kuko mu muhanda harimo amapikipiki menshi, ashinzwe kugemurira abantu ibicuruzwa bagiye bagura bitewe n'aho wabiguriye, icyo ukora ni ukabaha aho utuye nimero yawe ya telefone, baraguahamagara ukabarangira bakabikugezaho murugo.

Bitagusabye kujya ku masoko cyangwa ahacururizwa ibicuruzwa byose waba ukeneye, hari imbuga nyinshi ushobora gutumizaho ibyo waba ukeneye byose, haba ibiribwa cyangwa ibinyobwa, ukaba wamenya ko bihari, ukaba wajya kubireba cyangwa ukaba wabigura bakabikohereza mu rugo, bitagusabye kujya kubishakashaka.

Ubu hari amapikipiki menshi ashinzwe kugemurira abantu ibiribwa aho batuye yaba ibitetse cyangwa ibidatetse cyangwa ibindi bikoresho byose waba waguze ku ikoranabuhanga bashobora kubigusangisha mu rugo bitagusabye kuva aho utuye, icyo ukora ni ukuzuza aho utuye bakabigusangisha mu rugo.

Hari uburyo bwiza ushobora kuguriraho amasambu ukaguriraho inzu cyangwa ukaguriraho imodoka n'ibindi bikoresho bitandukanye, yaba iby'ikoranabuhanga cyangwa ibikoresho byo mu rugo nk'intebe n'ibindi bitandukanye ushobora ku bihasanga ku biciro bigiye binyuranye bitewe n'ibyo wifuza.

Kubera ikoranabuhanga ubu ibintu byose byaroroshye ushobora gucuruza ibicuruzwa byawe ku ikoranabuhanga kubishakira abakiriya, kubyamamaza, kugura no kugurisha mu buryo bworoshye icyo ukora ni ugushyiraho ibicuruzwa byawe n'ibiciro byawe ugaciririkanya n'abakiriya bakaba babikugurira.

Hari uburyo bwiza bw'ikoranabuhanga, aho ushobora kugura ibicuruzwa waba wifuza kuri murandasi, icyo ukora ni ukubihitamo, ukishyura, ukaba washyiramo aho utuye, bakabikugezaho mu rugo, wujuje imyirondoro yawe neza, babikugezaho mu rugo aho waba uri hose cyangwa ugacururizaho ibicuruzwa byawe waba wifuza gushakira abakiriya.

Ku bakeneye kugura no kugurisha ibicuruzwa cyangwa kwamaza hashyizweho uburyo bworoshye kuri murandasi, aho ushobora kwamamariza ibicuruzwa byawe cyangwa ukaba washakirayo ibicuruzwa ukeneye kugura mu buryo bworoshye, bikakugeraho nta nkomyi.

Ubu byaroroshye aho kwamamaza ibicuruzwa byawe ku ikoranabuhanga rizwi nka murandasi, aho ushobora gushyiraho ibicuruzwa byawe yaba ibiribwa, ibinyobwa cyangwa ibindi bitandukanye, ukaba wabona abakiliya, bakaguhamagara, ukabibagezaho ibyo wifuza byose.

Mu Rwanda hashyizweho uburyo bwiza bw'ikoranabuhanga aho ushobra kugurira ibicuruzwa kuri murandasi bakaba banabikugezaho mu rugo kubuntu, kereka ku munyu utuye inyuma ya kigali wishyura igihumbi cy'urugendo bakabikugezaho mu rugo a,mahoro nta kibazo cyabayeho.

Mu minsi mikuru, cyane cyane mu mpera z'umwaka, abacuruzi bacururiza kuri murandasi cyangwa abandi bose bashyiraho ibihembo ku bakiriya babo babagurira, cyane, n'ibiciro bakabimanura, ku bifuza kubagurira mu minsi mikuru, ibiciro biba byarahanantuwe, ibintu biba biri kugura make.

Uburyo bwiza bw'ikoranabuhanga uhobora gucururizaho cyangwa ukagurira ibicuruzwa wifuza icyo ukora ni kubishyiraho ubyifuza akaba yakuvugisha mukumvikana igiciro akaba yabikugurira cyangwa ukareberaho ibyo ukeneye kugura ukaba wabigura ku giciro cyiza.

Mu mugi wa Kigali hashyizweho uburyo bworoshye aho ushobora gutumiza ibiryo, bakabikugezaho bitunganye, bakabikuzanira ku ipikipiki yabigenewe, ishinzwe kubigemura aho waba uri hose, icyo ukora ni ukubabwira ubwoko bw'ibiryo ukeneye, n'aho utuye bakabikugezaho mu rugo.

Hari imbuga nyinshi yaba izikorera mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, hacururiza ku mbuga nkoranyambaga, aho ushobora gusanga ibicuruzwa bitandukanye cyangwa ibikoresho byo mu rugo, yaba iby'ikoranabuhanga n'ibindi byose binyuranye, icyo ukora ni ukubigura, bakaba babikugezaho mu rugo, aho waba utuye, mu gihugu icyo ari cyo cyose.

Hari imbuga nyinshi ziri kuri murandasi aho ushobora kugurira ibyo waba wifuza byose yaba ibiribwa cyangwa ibinyobwa cyangwa ibindi bikoresho ukenera mu rugo imyambaro n'ibindi byose bitandukanye, icyo ukora ureba icyo ushaka ugahitamo ibikunyuze bitewe n'ibiciro byabyo bakaba babikugezaho cyangwa ukajya aho babicuruza bitewe n'aho ariho.

Vuba vuba, umushinga ushinzwe kugemurira ibiribwa ahantu aho batuye, yaba ibiribwa bitetse cyangwa ibidatetse, ukorera mu gihugu cyose, ukorana n'amaresitora agiye atandukanye, icyo bakora ni ukugufasha kukugezaho ibicuruzwa waba uguze, bakabikugezaho mu rugo.

Ubu hashyizweho uburyo bwiza aho ushobora kugura ibicuruzwa cyangwa ibiribwa byose waba ukeneye bikaba byakugeraho mu rugo, icyo ukora nukubyishurira wahisemo ibyo ukeneye n'ingano ubikeneyemo ugatanga imyirondoro yawe bakaba babigushyikirizaho mu rugo aho utuye.

Mu Mujyi wa Kigali hari uburyo bwinshi, aho ushobora kugurira ibicuruzwa cyangwa ukaba wagurisha ibicuruzwa byawe. Yaba ibiribwa cyangwa ibindi bikoresho bitandukanye, ukoreshe urwo rubuga rw'ikoranabuhanga, aho ubishakira abakiriya, ubyishimiye akaba yakwishyura ukaba wabimugezaho.

Hari uburyo bwiza bakoherezaho ibintu, bikagusanga mu rugo, iyo bageze iwawe baragukomangira ukaba waza kubyakira, ukohereza ubutumwa yuko bikugezeho nkuko wabitumye nta kibazo cyabayeho, ukaba wakwishyura serivise wahawe.

Amapikipiki ya vuba vuba yagenewe kugemurira abantu ibiribwa n'ibindi byose baba batumije, mu ngo aho batuye icyo ukora ni ukohereza imyirondoro yawe, n'aho utuye utwara ipikipiki arakurangisha akakugeraho mu rugo ntakibazo

Mu Rwanda hashyizweho uburyo bworoshye, aho ushobora gutumiza ibicuruzwa mu mahanga, n'ibindi byose biva mu mahanga cyangwa ukaba wakohereza ibyawe biva mu Rwanda bijya mu mahanga, ukaba wabishakira abakiriya bakabigucururiza; hashyizweho uburyo bwiza bwo kubyohereza bikagera ku babikeneye amahoro nta kibazo cyavutsemo.

Imishinga myinshi ikora umwuga wo kugemurira abantu ibintu aho batuye cyangwa gutwara abantu n'ibintu, bukunze gukoresha amapikipiki akoreshwa n'umuriro cyanwa amagare y'umuriro, nk'uburyo bwiza bwo kurinda guhumanya ikirere, ukoresha aya mapikipiki kuko ariyo meza, kandi arihuta kurusha amapikipiki asanzwe.

Hari imbuga nyinshi zikorera mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu, zicuruza ibicuruzwa bitandukanye yaba ibikoresho by'ikoranabuhanga, imyambaro n'ibindi byose wakenera mu buzima bwawe bwa buri munsi, ushobora kubihagurira ku giciro kikunogeye kuko haba hariho ibicuruzwa n'ibiciro byabyo.

Mu Rwanda, yaba mu mugi wa Kigali cyangwa n'ahandi, hari ibyapa byinshi byamamaza imyambaro, aho wagurira imyambaro ku giciro cyiza. Yaba iy'abagabo cyangwa iy'abagore, n'inkweto, n'ibindi byose bijyanye n'imyambarire, ushobora kwambara ugasa neza, ukaba wajya ahantu hose umeze neza.

Aba ni abashinzwe kugemura ibiryo ku babitimijeho, bakabikugezaho mu rugo, aho waba uri hose, icyo ukora ni kuguhamagara kuri resitora bakabigutunganyiriza, bakaguha nimero ze, iyo ageze aho uba araguhamagara ukamurangira neza, akabikugezaho mu rugo amahoro.

Ikoranabuhanga ryoroheje ibintu byose, aho ushobora kugura no kugurisha ibicuruzwa, yaba ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibiribwa cyangwa imyambaro, bitagusabye kujya kubishakira iduka ubicururizamo, kuko hashyizwe ho uburyo bworoshe, ubyamamariza ku ikoranabuhanga ukaba wabona aba kiriya bikoroheye.

Bitewe na resitora watumyeho ibiryo, kubigutunganyiriza no kubikugezaho hashyizweho amapikipiki abigemura mu duce dutandukanye tw'igihugu, icyo ukora ni ukubabwira aho utuye babikugezaho mu rugo ntakibazo kibayeho ,ukishyura ibyo bakugejejeho ntakibazo.

Ubu byaroroshye mu gihe wumva udakeneye guteka uri mu mujyi wa Kigali, wandikira resitora cyangwa ukabahamagara, ukababwira ubwoko bw'ibiryo wifuza, bakaba babigutunganyiriza bakabikugezaho mu rugo, bitwarwa n'ipikipiki ya Vuba Vuba, igenewe kugeza ibiryo ku bakiriya babo.

Ubu ni uburyo bworoshye bwashyizweho mu Rwanda, bufasha mu kugura no kugurisha ibicuruzwa ukoresheje murandasi cyangwa kwamamaza ibicuruzwa byawe ukabishakira abakiriya bitagusabye kuva aho uri, icyo ukora ni uguhuza imyirondoro nkuko uyisabwa hanyuma ukajya ushyiraho ibicuruzwa byawe ukabishakira abakiriya mu buryo bworoshye.

Ikoranabuhanga cyoroheje ibintu byinshi, aho ushobora gucuruza ibintu byawe bitagusabye kuva aho uri, gutuma kugura no kugurisha, cyangwa gukoresha ibyo ukeneye bitagusabye kuva aho uri, kandi ukaba watuma ibyo ushaka bikakugeraho aho uri nta nkomyi.

Aha nahantu ushobora gusohokana n'incuti n'abavandimwe cyangwa umukunzi wawe, mukaba mwahiyakirira yaba kubinyobwa n'ibiribwa bitandukanye byinyama kugiciro gito kinogeye buri wese, ukaba wabihasanga igihe cyose wabagana biba bihari.

Ibicuruzwa ushobora kugurira ku ikoranabuhanga bishobora kugusanga murugo, cyangwa ukaba wajya aho bigurirwa ukaba wabasha kubona ibyo ukeneye ku giciro kiza kikunogeye, cyangwa ukaba wakwishyura bakabikugezaho murugo bitagusabye kujya kubirebera aho wabigurira.

Hari uburyo bwiza ushobora gutumaho, yaba ari gasi igushiranye cyangwa amazi yo kunywa yo mu rugo, bakayagusangisha mu rugo aho waba utuye. Icyo ukora ni umuhamagara iyo mibare y'aho bacuruza ibyo bitandukanye, ukaba wababwira ibyo ukeneye bakabikugezaho mu rugo uko ubishaka.

Hari amaduka menshi acuruza imyambaro cyangwa inkweto aho usanga bakorana na serivise yo kuba bakohereza ibintu aho utuye, cyane cyane mu minsi mikuru bakunze kugabanya ibiciro byabo kugira ngo bafashe abantu kwishima mu gihe cy'iminsi mikuru.

Mu mujyi wa Kigali hari abantu benshi batwara amapikipiki bagemurira ibiryo abantu aho batuye babikuye ku maresitora agiye atandukanye, bitewe nuko ubyifuza babikugezaho bimeze neza ukishyura urugendo ukishyu n'ibyo biribwa bakugejejeho mu rugo bitagusabye kujya kubigurira aho bikorerwa.

Abacururiza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye cyane cyane ahazwi nka kiku bacuruza imyambaro n'ibindi byose bitandukanye, yaba ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ibindi bitandukanye nk'imyambaro bakunze kugabanya mirongo ine na karindwi mu gihe k'iminsi mikuru ku bakiriya babo ku bicuruzwa byagenwe.

Abakora umwuga wo gutwara abagenzi bazwi nk'abamotari, bahawe uburyo bwiza bw'ikoranabuhanga aho ushobora gutwara umugenzi, ukareba ibirometero wamutwaye ukaba wagena ayo yakwishyura bitewe naho yagutwaye, ari urugendo rurimo kuhagera.

Aya ni amaduka atandukanye mumugi wa Kigali acuruza ibijya n'imyambarire yaba imyenda y'abagabo cyangwa iy'abagore yaba inkweto z'abagabo cyangwa iz'abagore, n'ibindi byose bitandukanye bijyanye n'imyambarire, wabisanga muri aya maduka atandukanya ari mumugi wa Kigali.

Ushobora kwiyandikisha mu mbuga zitandukanye, aho ushobora kugura ibicuruzwa bitandukanye, yaba ibiribwa cyangwa ibinyobwa, ibikoresho byo mu rugo cyangwa ibindi ibikoresho wakenera mu buzima busanzwe, biba biri kuri izo mbuga ushobora kureba ibiciro, ukaba wabigura nk'uko ubyifuza.

Icyo usabwa kugira ngo ibicuruzwa waguriye ku ikoranabuhanga nka murandasi zicuruza ibikoresho bitandukanye, icyo usabwa kugira bikugereho amahoro, ni ukuzuza imyirondoro yawe neza, ukabyishyura bakaba babikugezaho mu rugo, ugashyiraho n'imibare yawe bashobora kuguhamagaraho mugihe bayobye bakabikugezaho mu rugo.

Ushobora gutumiza ibiribwa, n'ibindi bintu bose bigiye bitandukanye, bakabikugezaho mu rugo babihaye ipikipiki ya vuba vuba, , bakabikugezaho mu rugo nta kibazo kivutse, yaba abiribwa bitetse n'ibidatetse, ushobora kuguriraho n'imboga n'imyambaro, n'ibindi bitandukanye.

Mu gihe cy'iminsi mikuru cyane cyane mu mpera z'umwaka, abacururiza kuri murandasi, bakunze gushyira poromosiyo mu bicuruzwa byabo, aho ibiciro bimanuka kugira ngo bafashe abakiriya babagana kuba bagurira ibintu ku giciro gike, bikaba byabafasha gutangira umwaka mushya bishimye kandi banezerewe.

Hari ibihembo biba byarateguwe mu masoko cyangwa amaduka acururiza kuri muri andasi, aho mu minsi mikuru bashyiraho poromosiyo cyangwa ibiciro bakabimanura ku giciro basazwe babiguriraho aho abantu benshi bakunze kugura ibyo bazakoresha mu minsi mikuru ku giciro kiza kuko biba byamanuwe bitewe n'aho bicururizwa.

Ubu ntibikiri ngombwa mu gihe ukeneye kugura ibikoresho, ibiribwa cyangwa ibindi byose binyuranye bigusaba kujya ku masoko, kuko ukoresheje ikoranabuhanga, hari imbuga nkoranyambaga zabugenewe zicururizwaho ibyo bikoresho byose waba ukeneye byagenwe byiza bigenwa na buri duka bitewe n'ibicuruzwa n'ibikoresho bafite.

Abakora umwuga wo kugemurira abantu bazwi nka "vuba vuba" bahawe amagare y'umuriro nk'uburyo bwiza bwo kudakoresha amapikipiki anahumanya ikirere bakaba bakugezaho ibiribwa aho waba uri hose, kuko aya magare aragenda kandi arihuta ku buryo babikugezaho aho waba uri hose kandi bakabikugezaho amahoro.